Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ikorerwamo n'ibitaro ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, nko gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti. Hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage baje kuyivuriza kuri ibi bitaro.

Umunyeshuri wambaye impuzankano urimo gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, ku gikoresho cyitwa kandagirakara, Ikaba ari gahunda yashyizweho mu kurwanya umwanda ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda hakarabwa amazi meza n'isabune.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, urimo gutera urushinge ku rutugu rw'umusaza wambaye agapfukamunwa, akaba yari arimo gukingirwa indwara ya korona virusi, yibasiye isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Umwana muto wambaye imyenda yo mu bitenge, akaba asutse imisatsi aho arimo gukaraba intoki akoresheje isabune n'amazi meza ku ivomo, ari gukarabira mu ndobo. Iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, ribafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi ma......

Umwana wambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi n'agapantaro k'ubururu, akab’arimo kuvoma amazi meza mu gikombe kw’ivomo rusange ryubatswe na leta muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda gukoresha amazi yanduye kuko atera indwara.

Abayobozi b'inzobere mu by'ubuzima bagize umuryango wa common wealth ubwo bari bahuye mu nama bahagaze munsi y'ikirango cyagaragaza inama bari bajemo aho bari bari gufata amafoto y'urwibutso aho bari bamaze kwiga ku myanzuro y'iterambere ndetse no kwihutisha ubuzima.

Abadamu bambaye ibitenge ndetse harimo uteze igitambara cy'umweru, bakaba bicaye iruhande rw'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari umuganga wita ku bana b'incuke barererwa kuri iki kigo cy'amashuri bakoramo.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima wambaye ibisenge ndetse n'agapira k'umweru akaba yambaye n'ingofero, ubwo yarimo kugaburira abana mu rwego rwo kubafasha kuzamura imirire yabo, binyuze muri iyi gahunda ya Leta yo kwegera abana no kubagaburira indyo yuzuye ndetse no kwigisha ababyeyi babo kuyitegura.

Impuguke mu by'ubuzima zihagaze imbere y'icyapa kiriho intego y'inama bari bagiye gukora ikaba yarakorewe muri bike arena mu mujyi wa Kigali, aho izi mpuguke mu by'ubuzima zari ziri kwiga ku ngingo yo guteza imbere ireme ry'ubuvuzi mu Rwanda.

Impuguke mu by'ubuzima zari zirimo kuganira n'abaturage, aho zari zirimo kubahugura mu buryo bwiza bwo kwirinda indwara z'umuvuduko w'amaraso ndetse na diyabete, aho bari barimo kubagira inama yo gukora imyitozo ngororamubiri ihagije buri munsi ndetse no kunywa amazi meza.

Umwana wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi arimo kuvoma amazi meza ku ivomero rusange akoresheje ijerekani y'umweru, iri vomo rikaba rikikijwe n'abandi bantu batandukanye baje kuvoma rikaba ryarubatswe na leta muri gahunda yo kugeza amazi meza ku baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Abaturage barimo kuvoma amazi meza bakoresheje amajerekani ku ivomo rusange aho batondetse amajerekani menshi y'abaturage aya mazi akaba ari mu ivomo ryubatswe na leta mu rwego rwo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bibafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara aterwa n'umwanda.

Umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ikabutura ngufi. Akaba arimo kuvoma amazi akoresheje igikombe ku ivomo ry'ikigega, ikigega kikaba kirimo amazi meza, kikaba cyarubatswe na leta muri gahunda yo kwegereza amazi meza abaturage, kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Abajyanama b'ubuzima baturutse mu midugudu itandukanye igize Akarere ka Huye, bakaba bafite amakaye, imbere yabo aho barimo kwigishwa byinshi ku bijyanye n'ubuvuzi, aho aba bajyanama bafasha mu kuvura indwara zoroheje by'ibanze kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza babone serivisi mu buryo bwihuse.

Umugore urimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ku ivomo, iri voma rikaba ryarubatswe na Leta muri gahunda yayo yo kwegereza abaturage amazi meza mu kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda gukoresha amazi yanduye atera indwara.

Umuganga w'inzobere mu byo kuvura ahari afashe ipamba, ndetse n'indi miti, agiye kuvura akana bari bateruye, aho yari agiye kugatera urukingo rw'imbasa, kugira ngo kazakure gafite ubuzima bwiza ndetse butagira indwara.

Abana bahagaze bakikije ivomo rusange, ivomo bakaba barimo kuvoma bakoresheje ejerekani aho iri vomo ryubatswe na leta muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu gufasha abaturarwanda, kugira ubuzima bwiza birinda gukoresha amazi mabi kuko atera indwara imbere y'iri vomo hakaba hari ubusitani bwiza, burimo pasiparama.

Ababyeyi bakenyeye ibitenge, aho babiri barimo gukurura icyuma kibafasha kuzana amazi, undi arimo kuvomera mu bikoresho byabugenewe, harimo nk'amasafuriya manini ndetse n'indobo. Iri voma rikaba ryarubatswe ku nkunga ya leta, mu rwego rwo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda gukoresha amazi arimo imyanda.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, urimo gusuzuma umugore ukenyeye igitenge umuvuduko w'amaraso, akaba arimo kumufasha kumenya uko ubuzima bwe buhagaze bityo akaba yahabwa serivisi z'ubuvuzi indwara zitararemba.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'uturindantoki, aho arimo gutera urushingire umukobwa ku rutugu, uru rushinge rukaba ari urukingo rwa coronavirusi, kimwe mu cyorezo cyibasiye isi ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Igipimo cyabugenewe cyifashishwa mu gupima uburebure bw'abana, aho inzobere mu by'ubuzima ndetse n'abiga iby'ubuganga bakoresha iki gikoresho mu gupima imikurire y'umwana, aho babona niba umwana akura neza cyangwa akura nabi bakoresheje ubu bumenyi.

Umukobwa wambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi akaba arimo kuvoma amazi meza mujerekani iteretse mu ibase aho aya mazi meza yo kuririvomo yubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kwirinda indwara ziterwa n'amazi mabi.

Umuyobozi mukuru wambaye ikoti ry'umukara na karuvati, akaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi OMS, aho yari ari kumwe n'abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare ubwo bari bavuye mu nama n'uyu muyobozi amaze kubahugura kuri byinshi.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'ingofero yo kwa muganga mu mutwe; hamwe nagapfukamunwa, ndetse na marinete aho yari arimo gupima umuvuduko wa'mararaso umurwayi wicaye ku ntebe yumukara, nawe akaba yambaye agapfukamunwa.

Abaturage bateraniye mu cyumba cy'inama bakaba bicaye mu ntebe z'umukara, ubwo bari bateze amatwi inzobere mu by'ubuzima zari zirimo kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima nuko bakita ku buzima bwabo neza, bakora imyitozo ngororamubiri kandi banywa amazi meza ndetse bakarya indyo yuzuye.

Umwana uhagaze ku ivoma uri gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, imbere ye hakaba hari indobo yifashishwa mu kuvoma amazi meza, iri voma rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza hirindwa indwara ziterwa n'amazi mabi.

Urubyiruko ndetse n'abasore, abagabo ndetse n'abamama bari baturutse hirya no hino bambaye udupira tw'umweru, aho bari baje guhura n'inzobere mu by'ubuzima zari zirimo kubahugura mu buryo bwiza wakwirinda indwara zitandukanye, harimo nka Diyabete, umuvuduko w'amaraso, ukora imyitozo ngororamubiri ukanywa n'amazi meza ahagije.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bambaye impuzankano n'udupira tw'ubururu, ndetse bakaba bari kumwe n'abarimu aho bicaye ku musambi bawukikije, abarimu babarera aho barimo kuganirizwa ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo, ndetse no gutozwa isuku.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ukikijwe n'ababyeyi bateruye abana, aho yari arimo gukingira abana indwara y'iseru, mu kubafasha gukura neza no kugira ubuzima bwiza, bibafasha gukura batarwaragurika bakagira ubuzima bwiza.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuvuzi kuko arimo guhereza umwana muto uteruwe na mama we urukingo rw'imbasa mu bimufasha gukura neza atarwaragurika bityo agakurana ubuzima bwiza buzira umuze, aho leta ishishikariza ababyeyi gukingiza abana baba bakiri bato.

Abana bahagaze bakikije ivomero, bakaba barimo gukaraba amazi meza intoki, aho irivo ryubatswe na leta muri gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza, abafasha mu mirimo ya buri munsi mu buzima busanzwe, bikaba bibafasha kugira ubuzima bwiza, bibarinda kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi arimo imyanda.

Inama yahuje inzobere mu by'ubuzima aho zahuye ku itariki ya makumyabiri na kabiri ndetse n'iya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa kane, iyi nama ikaba yarabaye mu mwaka w'ibihumbi biri na makumyabiri na kane, ikabera i Kigali ahazwi nko kuri Kigali Convention Center, ikaba yarigaga ku ngingo zitandukanye z'ubuzima n'uburyo serivisi z'ubuvuzi zakongerwa mu Rwanda zigahabwa agaciro.

Abagabo, umugabo uri hejuru ndetse n'abagore babiri bari kumuha mufuka aho bari barimo gupanga ibiribwa byo kwa muganga ahabugenewe, aho byari bizanywe n'imodoka, ibi biribwa bikaba byifashishwa mu kugaburira abarwariye kwa muganga.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa akaba atera umwana yambaye isaha ukuboko ndetse n'impeta mu rutoki, aho yari yamujyanye kwa muganga mu kumuha serivisi z'ubuvuzi aho yarivuye guhabwa urukingo rw'imbasa bituma umwana akura neza atagira uburwayi.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru bakikije umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga, akaba arimo kumupima umuvuduko w'amaraso, aho arimo kumushyira igikoresho cyabugenewe ku kaboko kugira ngo yumve uko umutima umeze mu rwego rwo kumufasha kumuvura.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'umweru irimo utubara tw'umukara uhagaze ku ivomo urimo kuvoma akoresheje ibikoresho by'indobo aho iri voma rivomwaho amazi meza asukuye rikaba ryarubatswe kuri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Umwana wambaye agakabutura k'umutuku ndetse n'ishati y'amaboko maremare akaba ari kunywera amazi ku ivomo akoresheje intoki ze, munsi ye hakaba harimo indabo arimo kuvomeramo amazi meza, aya mazi ari murir’ivomo akaba yarubatswe na leta muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umubyeyi ukenyeye igitenge akaba ateruye mwana akaba arimo kuvoma akoresheje indobo y'umukara ayiteretse ku ivomero ari kuvoma amazi meza ku ivomero ryubatswe muri gahunda ya leta yo kugeza amazi meza ku baturage.

Abana bahagaze bakikije indobo aho barimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, barimo gusukirwa amazi n'umugabo wambaye bote ndetse n'agapira k'amaboko magufi, abafasha kumenya gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bibafasha kwirinda umwanda.

Amasahani yogeje yanitse ku gatanda hejuru aho arimo kumuka hakoreshejwe izuba. Iyi ikaba ari gahunda yashyizweho na leta mu kubungabunga ubuzima bw'abaturarwanda babafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umuganga wicaye ukikijwe n'abaturage ku meza, aho arimo kubafasha kubaganiriza kugira ngo bamenye byinshi ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara, bityo babafashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abana bari kunywera amazi ku ivomero ryiza bambaye impuzankano aho biga mu mashuri abanza, irivomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, aho ibafasha kwirinda indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Abaturage bo mu gace ka Huye bakikije ivomo, aho umugore arimo kuvoma mu ijerekani rifashweho n'umwana, iri voma rikaba ryarubatswe muri gahunda ya Leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Abana biga mu mashuri abanza bicaye imbere y'abo hari ameza, aho bamanitse ikiganza, aho bari barimo kuganirizwa n'ababarera barimo kubafasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima ndetse babatoza kugira isuku, bimwe mu bibafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, ndetse n'abayobozi mu nzego za Leta, ubwo bari bahuriye mu gikorwa cyo kwita ku buzima, ubwo bari barimo gutera uturima tw'igikoni, dufasha abantu kubona indyo yuzuye, hakiririndwa igwingira ry'abana bato, ndetse n'indwara ziterwa n'imirire mibi.

Umwana wicaye imbere y'ivomo iruhande rwe hari ibijerekani byifashishwa mu kuvoma amazi meza iri vomo ry'amazi meza rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amazi meza mu kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda gukoresha amazi yanduye mu kwirinda indwara ziterwa n'ayo mazi mabi.

Abana barimo kuvoma amazi mabi yo mu gishanga bakoresheje ibikoresho bitandukanye nk'indobo ndetse n'amabase aba bana aya mazi barimo kuvoma akaba ari amazi yanduye aho leta igira inama abaturage kwirinda gukoresha ayo mazi mabi ahubwo bagakoresha amazi meza bagezwaho na leta kugira ngo bagire ubuzima bwiza birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Icyapa cya UNICEF, UNICEF akaba ari umuryango utegamiye kuri leta mpuzamahanga wita ku bana, aho ugenda utanga ubufasha ku bana, ndetse ukanaharanira uburenganzira bwabo, mu kubafasha gukura neza bafite ubuzima bwiza.

Abaganga bakorera mu bitaro bambaye amataburiya y'umweru y'amaboko maremare aho bari bamaze gutanga serivisi z'ubuvuzi ndetse bakaba bari bamaze kuvura abaturage benshi aba baganga bavura abaturage bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umuturage urimo kuvoma amazi yo mu gishanga akoreshe ijelikani anahagazemo, aya mazi kandi ku ruhande akaba ari kogerezwaho ikinyabiziga cy'igare aya mazi akaba ari amazi adasukuye aho leta ishishikariza abantu kudakoresha aya mazi ibintu byinshi byo mu rugo.

Umukobwa wambaye ijipo ngufi ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba arimo kuvoma mu ijerekani iteretse mu ibase amazi meza ku ivomo rusange. Iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, bibafasha kugira ubuzima bwiza birinda gukoresha amazi yanduye.

Abana bari ku ivomo aho bari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, bimwe mu byashyizweho na Leta mu gukumira indwara ziterwa n'umwanda, himakazwa umuco w'isuku ku bana ndetse no ku bakuru.

Abaganga bahagaze ku murongo iruhande rw'igishushanyo kiriho umuganga, bakaba bari bavuye mu nama, bari bahagaze imbere y'inyubako ibarwemo n'inama yo mu bitaro bya Huye, mu Karere ka Huye.

Abadamu bicaye ku ntebe zo kwa muganga bateruye abana bakaba baje mu gikorwa cyo gukingiza abana indwara y'iseru, aho aba bana bakingirwa n'abaganga kugira ngo bibafashe kwirinda kurwaragurika bityo bakurane ubuzima bwiza buzira umuze.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano bakaba barimo gukaraba intoki bakoresheje isabune n'amazi meza ku ivomo rusange ryubatswe na leta muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bikabafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa no gukoresha amzi yanduye.

Umuganga wambaye ishati y'umweru ndetse akaba arimo gutera urushinge umudamu wicaye ku ntebe, akaba arimo kumukingira urukingo, ari kumutera urukingo rwa koronavirusi, kimwe mu cyorezo cyashegeshe isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Umwana ufite isabune mu ntoki aba arimo gukaraba amazi meza n'isabune barimo kumusukira mu ijagi amazi, iyi gahunda kiba iya leta mu gushishikariza abaturage b'u Rwanda kugira isuku ndetse no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda bakaraba intoki neza amazi n'isabune.

Inzobere n'impuguke mu by'ubuzima zicaye imbere, mu cyumba gitangirwamo inama ndetse kigakorerwamo n'inama zitandukanye. Aho umwe muri bo afite indangururamajwi, ubwo bose bambaye udupfukamunwa bari barimo kwiga ku cyorezo cya corona virus ndetse no gusobanurira abantu uburyo cyakirindwa.

Abaturage babukereye bicaye mu kibuga kiri imbere y'inzu ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi kikaba ari ikigo nderabuzima cyubakishijwe amabuye hamwe na sima n'udutafari duhiye, ikaba isakajwe n'amabati y'umutuku aho iruhande rwayo haparitse imbangukiragutabara abaturage bakaba baje kumva inama zigirwa n'inzobere mu by'ubuzima zibafasha kugira ubuzima bwiza no kwirinda indwara zitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano zigizwe na kaki ndetse na cotoni z'ubururu, bakaba bafite ibiryo ku meza yabo. Ubwo bari muri gahunda ya leta yo kugaburirwa ku mashuri kandi ikaba yarashyizweho mu rwego rwo gufasha abana ku mashuri ndetse no kubafasha mu myigire yabo.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, akaba afite agakoresho gakoreshwa mu gupima uko umutima utera mu bitugu bye, imbere ye hari umudamu wicaye ateruye umwana, aho uyu muganga yari arimo gukingira uyu mwana indwara y'iseru imufasha gukura neza yirinda kurwaragurika.

Abajyanama b'ubuzima, bahurijwe hamwe, bambaye amataburiya yabo y'ubururu, bakaba barimo kuganirizwa n'impuguke mu by'ubuzima, mu kubafasha kubahugura, kurushaho kubongerera ubumenyi, kugira ngo barusheho gutanga serivisi z'ubujyanama mu by'ubuzima, bafite ubumenyi buhagije.

Abajyanama b'ubuzima bahuriye mu cyumba cy'inama kiri mu bitaro, aho barimo kuganirizwa n'impuguke mu by'ubuzima, bakaba bafite amakaye n'amakaramu mu ntoki zabo, aho barimo kwandika inama barimo kugirwa n'impuguke mu by'ubuzima, zibafasha kurushaho kumva inshingano zabo, no kubafasha kuzikora neza.

Umuganga wambaye ikarita yo kwa muganga ndetse n'itaburiya y'umweru y'amaboko maremare aho arimo gusuzuma umukecuru wambaye ibitenge ndetse witeze n'igitambaro ku mutwe, arimo kumusuzuma isukari iri mu maraso ye kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Abana bambaye impuzangano bahagaze imbere y'ivomero barimo gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune, akaba ari inama bagirwa n'aba barera ndetse na gahunda ya leta yo gufasha abana kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ibikoresho byabugenewe bibikwamo imyuka yabugenewe ifasha abarwayi kwa muganga, ibi byuma bikaba bizwi nka bomboni, aho bikoreshwa mu gufasha abarwayi barembye guhumeka neza, bagahabwa ubuvuzi n'abaganga b'inzobere.

Abana bahagaze bakikije abari gukina ikinamico, aho barimo ufashe indangururamajwi, ubwo bari barimo gushishikariza abaturage gukurikiza ingamba zitandukanye zashyizweho na Leta, mu kurwanya icyorezo cya ebora.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe udutafari duhiye, ikaba irimo ibyapa byo kwa muganga bigaragaza uko abaganga batanga serivise zitandukanye ndetse hakaba hicawemo n'abana bakikije umubyeyi wakomeretse ufite igisebe ku mpanga aho yari yaje kwiyomoza.

Inzobere mu by'ubuzima zahuriye mu nzu mberabyombi, irimo urubyiruko rwiga iby'ubuzima, aho rwambaye udupira tw'umweru ndetse n'udupira tw'icyatsi, aho bari baririmo guhugurwa n'abaganga bamaze igihe, bafite uburambe mu byo kuvura, kugira babafashe kubateguramo abahanga b'ejo hazaza.

Abahanga mu buvuzi bahuriye mu cyumba k'inama, aho bicaye bazengurutse imeza, bakaba imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi ndetse bari, ameza yabo ariho n'indabo z'imitako, bakaba bari kwiga ku ngingo zo guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda.

Umwana wunamye ku ivomero urimo gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune, iri vomo rikaba ririho indobo zabugenewe zifashishwa mu kuvoma aya mazi, aya mazi meza akaba yarubatswe na leta muri gahunda yayo kugeza amazi meza ku baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Abana bamaze kuvoma ku ivoma bakoresheje indobo, bakaba barimo kwikorezanya iyi ndobo kugira ngo batware aya mazi meza mu rugo. Iri vomo rikab ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Abaganga bambaye udupira tw'ubururu ndetse n'ingofero z'umweru, ubwo bari bari mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage, kwipimisha indwara zitandura zirimo umuvuduko w'amaraso ndetse na diyabete, ibingibi bikaba ari gahunda ya leta yo gufasha abaturage kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umujyanama w'ubuzima urimo gupima ibiro by'umwana mu kumufasha kumenya imikurire ye, ibi ngibi bikaba bikorwa n'abaganga batanga serivisi z'ubuvuzi ku bana mu kumenya uko imikurire y'abana babo ihagaze. Ibi ngibi bikaba ari gahunda yashyizweho na leta mu kurwanya igwingira.

Abaturage barimo kunywa amazi meza ku ivomero aho bagiye kuvoma bakoresheje amajerekani. Iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage bibabafasha kugira ubuzima bwiza bikabarinda kurwara indwara ziterwa no gukoresha mazi mabi.

Umwana wambaye ikabutura ndetse n'agashati k'umweru, akaba afashe ikijerekani kiri ku ivomero kirimo kuvomwa amazi meza, iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi arimo imyanda.

Umwana wambaye ikanzu yo mu gitenge urimo gukaraba intoki akoresheje isabune ndetse n'amazi meza ari mu icupa riziritse ahantu habugenewe bifasha uyu mwana gukaraba yirinda indwara ziterwa n'umwanda, nkuko leta ibishishikariza abaturarwanda kwirinda umwanda bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune kenshi gashoboka.

Umujyanama w'ubuzima wambaye agapira k'amaboko magufi ka oranje, akaba arimo gusomesha umwana uteruwe n'umubyeyi we, inkongoro irimo amata ubwo bari bari mu gikorwa cyahariwe kwita ku mirire y'abana bato mu rwego rwo kurwanya igwingira mu Rwanda, iyi akaba ari gahunda ya Leta yashyizweho mu rwego rwo kunoza imirire myiza mu bana ndetse no kurwanya igwingira.

Abana bambaye imyenda itandukanye ,bari imbere y'ivomero, aho bateze amaboko imbere y'ivomero bakaraba intoki, uyu akaba ari umuco ndetse n'ingamba zashyizweho na leta y'u Rwanda, mu kurwanya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, ashishikariza abaturage gukaraba amazi meza n'isabune mu ntoki kenshi gashoboka.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, barimo gutera urushinge umwana aryamye ku gitanda, iruhande rwe hicaye umubyeyi we, ubwo bari baje kumuvuza ku bitaro byo kwa muganga, hatangirwa serivise zo kuvura abana barembye, hazwi nka pediatri.

Ababyeyi, abana, inkumi, abasore ndetse n'abasheshe akanguhe, bahuriye ku bitaro byo kwa muganga; aho bicaye ku ntebe zabugenewe zicarwaho mu gutegereza abaganga. Ibi bitaro bikaba bitanga serivisi zitandukanye z'ubuzima; harimo nko gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Impuguke mu by'ubuzima z'abaganga, zambaye amataburiya y'umweru y'amaboko maremare, aho zari zivuye mu nama yari yabereye Nyabageni Outreach, aho bari barimo kwiga ndetse basuzuma abaturage bo muri ako gace, indwara zitandura, zirimo nk'umuvuduko w'amaraso, ndetse na diyabete.

Umuganga uhagaze imbere y'abaturage urimo kubasobanurira byinshi ku by'ubuzima, abasobanurira uburyo butandukanye bwo kwirinda indwara ndetse no kugira isuku ihagije kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umugore ukenyeye igitenge wambaye ingofero akaba arimo gukaraba intoki ku gikoresho kizwi nka kandagira ukarabe aho aba akaraba amazi meza akoresheje isabune mu kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda cyane cyane mu kwica udukoko dufata mu kiganza.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuvuzi, wambaye itaburiya y'umweru ifite utubara tw'umutuku, aho yari arimo gusuzuma umwana muto wari uhagaze iruhande rw'umubyeyi we, akaba afite igitabo yandikamo uko abana agenda basuzuma, akaba arimo gukora ku mwana amubaza utubazo tumwe na tumwe, anamupima uburebure.

Umuganga wambaye itaburiya y'amaboko maremare, ndetse n'uturindantoki, hamwe n'udupfukamunwa, hamwe n'igikoresho cyabugenewe, cyifashishwa mu kwirinda indwara z'ibyorezo zandurira mu guhumeka, aho yari arimo kubaza umurwayi wari waje kwipimisha indwara ya covid nineteen uko ameze, kugira ngo amusuzume ndetse afate amakuru arambuye ku murwayi.

Abaganga b'inzobere mu by'imirire, bari iruhande rw'abana, ububwo barimo kubagaburira, babahereza inkongoro zirimo amata, mu rwego rwo kwita ku mirire y'abo bana muri gahunda ya Leta, aho ifata icyumweru cyahariwe imirire mu rwego rwo kwita ku mirire y'abana bato, bityo bakamenya abafite ibibazo by'imirire, bakabafasha no gutegura indyo yuzuye.

Umuganga wicaye imbere ye hari igitabo kinini cy'abarwayi aho abaganga barimo kuzuza imyirondoro y'abarwayi muri iki gitabo zibafasha kubika amakuru y'abarwayi kugira ngo mu gihe bayakeneye bajye bayabona kandi bibafashe gukurikirana abarwaye neza.

Inyubako zo kwa muganga, zikaba zubakishijwe utubuye duhiye, zisakajwe amabati, zikaba zizengurutswe n'agapangu k'ibyuma, hakaba hatangirwa serivisi zo gusuzuma ndetse ahandi hakaba hubatse ubwiherero bwo kwa muganga.

Georgia Global Health Alliance, akaba ari ikigo kitegamiye kuri leta gitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye ndetse kikaba kinakora imiti y'amoko menshi ifasha kuvura indwara zitandukanye. Iki kigo kikaba ari ingenzi cyane kuko gitanga imiti mu bihugu bitandukanye.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, akaba arimo gutera urushinge umwana ukiri muto ku rutugu uteruwe na mama we, akaba arimo kumutera urukingo rw'imbasa rutuma uyu mwana akura atarwaragurika rukamufasha gukurana ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ipantaro y’umukara ndetse n’ishati y’ubururu y’amaboko maremare, urimo gukaraba intoki akoresheje isabune ndetse n’amazi meza, akaba ari gukoresha igikoresho cya kandagira ukarabe, aho ukandagira ku gikoresho amazi akisuka aturutse mu kajerekani, ugakaraba intoki.

Abana bato ndetse n'abakuru bahagaze ku ivomero ririho ibijerekani bakoresha bavoma, aho bari baje kuvoma amazi meza ku ivomero rusange ryubatswe na leta, muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Ivomo rusange ryubatswe na Leta muri gahunda yo kwegereza amazi meza abaturage, iri vomo rikaba rizengurutswe n'abaturage bafite ibikoresho byo kuvomerwamo birimo indobo n'amajerekani, iri vomo rikaba ribafasha kugira ubuzima bwiza ribarinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, bambaye amataburiya y'umweru, ndetse n'udushati duto tw'amaboko magufi, bambaye n'uturindantoki, imbere yabo habateretse imiti y'ubwoko butandukanye, ubwo bari bagiye mu gikorwa cyo kuvura abaturage indwara zitandukanye, babasanze aho baba.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi, aho yari yambaye n'uturindantoki tw'umweru; arimo gukingira umwana indwara y'iseru ku rutugu, aho yari arimo kumutera urushinge; bityo bigafasha umwana gukura atarwaragurika, bigatuma agira ubuzima bwiza.

Abaturage bahagaze iruhande rw'ivomo, aho imbere yabo hari amajerekani yo kuvomeramo baje kuvomeremo kuri iri vomo. iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi yanduye.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC kikaba iki kigo gishinzwe gukwirakwiza amazi meza mu baturage, akaba ari ikigo gifite inshingano zikomeye, kandi kikaba kizikora neza, aho gifasha abaturage kubona amazi meza abafasha mu buzima bwa buri munsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, akaba yambaye n'amaherena ubwo yari arimo guhereza urukingo umwana arunyujije mu kanwa, umwana akaba yarateruwe n'umubyeyi, uru rukingo rw'iseru rukaba rufasha umwana gukura neza bigatuma agira ubuzima bwiza.

Umwana urimo kunywa amazi meza akoresheje ikiganza akaba ahagaze imbere y'ivomo, iri vomo rikaba ryarubatswe muri gahunda ya Leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, aho abaturage bakoresha aya mazi meza mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, kandi akabafasha kugira ubuzima bwiza.

Inzobere mu by'ubuzima zari zimaze gukora inama mu nzu mbera byombi y'umujyi wa Kigali aho zari zimaze kwiga ku ngingo yo guteza imbere ubuvuzi ndetse no kubwegereza abaturage kugira ngo bajye babona izi serivisi z'ubuzima mu buryo bubegereye kandi bwihuse mu gihe babukeneye.

Umwana wambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku, akaba afite igikombe mu kiganza arimo kuvoma amazi meza ku ivomero rusange, aho ayo mazi meza iri vomero ryubatswe muri gahunda ya leta yo kwegereza abaturage amazi meza mu kubafasha kugira ubuzima bwiza, birinda indwara ziterwa no gukoresha amazi arimo umwanda.

Abana bato biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano ya kaki, bakaba bakikije ivomero aho bari barimo gukaraba amazi meza n'isabune bibafasha kugira ubuzima bwiza no kwirinda indwara ziterwa n'umwanda, iri vomero ry'ubatswe muri gahunda ya leta yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage.

Abadamu bahagaze ku ivomero, harimo uri kuvomesha igikoresho cy'indobo, akaba arimo kuvoma amazi meza ku ivoma ryubatswe na Leta, muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage, ibafasha kugira ubuzima bwiza, birinda kurwara indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima aho yari arimo gusuzuma abaturage amaso, aho yabaherezaga bagasoma ikintu, bityo akagenda amenya ibibazo bafite by'amaso, ubu buryo bukaba bwifashishwa n'inzobere mu byo kuvura amaso, aho basuzuma bakoresheje ubu buryo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'ubururu, akaba ahagaze imbere ya mudasobwa, aho hari undi muganga wicaye wambaye itaburiya y'umweru, akaba arimo gutanga serivisi zo gusuzuma indwara ya korona-virusi, ubwo yari yateye ku isi hose mu mwakaa w'ibihumbi bibira na makumyabiri na rimwe.

Urujya n'uruza rw'abantu bari iruhande rw'imbangukiragutabara aho iparitse ku kigo nderabuzima kiriho idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo n'amahema ya gisirimu y'umweru, aba bantu bakaba baje mu nama yabahuje n'impuguke mu by'ubuzima zaje kubabwira uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ndetse n'izindi serivise baje kubakangurira.

Impuguke mu by'ubuzima zahuriye mu cyumba k'inama, aho zari zirimo kuganira kuri serivisi zitandukanye zo mu bitaro n'uburyo izi serivisi zatezwa imbere zikihutishwa, mu kugira ngo batange serivisi nziza z'ubuzima zitangirwa kwa muganga, harimo kuvura ndetse gusuzuma ndetse no gutanga imiti.

Abana bato bicaye bambaye impuzankano y'icyatsi ndetse na karuvati z'ubururu bakaba barimo guseka aho bari barimo kuganirizwa n'abarimu babo bari barimo kubabwira udukuru dusekeje babafasha kuruhuka mu mutwe bibafasha gutekereza cyane kandi neza bikabafasha mu mikurire yabo.

Inzobere mu by'ubuvuzi zari zahuriye n'abaturage baturutse mu mirenge itandukanye, aho zari zirimo kubahugura mu buryo bwiza byo kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane indwara zitandura harimo nka diyabeti ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Izi nzobere zasize aba baturage bazi neza uburyo bwo kwirinda izi ndwara.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe wari urimo kuganiriza umurwayi wari ufite agahinda gakabije aho yicaye kwa muganga, umurwayi akaba yicaye ashyize amaboko ku meza aho arimo kuganirizwa byinshi mu bimufasha kuruhuka.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima baturutse hirya no hino mu gihugu, aho bateraniye mu cyumba cy'inama cy'umujyi wa kigali, aho bari barimo kwiga ku ngingo zitandukanye zo kwihutisha serivisi zitangwa no kwa muganga, imbere yabo hakaba hari uducupa turimo amazi bari barimo kunywa mu gihe bari barimo gukurikira iyi nama.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, akaba afashe indangururamajwi mu ntoki, aho ari iruhande rw'intebe itetseho insakazamashusho, akaba arimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho iruhande rwe hicaye abagore bambaye imyenda itandukanye, yakozwe mu bitenge, imbere yabo hakaba bateretse uducupa tw'amazi.

Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe zicaye iruhande rwazo hateretse amazi ari mu ducupa ndetse n'umuti wo gukaraba mu ntoki ,bakaba bafite indangururamajwi imbere yayo, aho bari barimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe baganiriza abaturage.

Global arereness project in Rwanda, akaba ari umushinga washyizweho mu gushishikariza abaturage kubahiriza amabwiriza yashyizweho na Leta yo kwirinda icyorezo cya corona virus. Ubwo hari hatangijwe ikiganiro, ku itariki makumyabiri neshanu z'ukwacyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Umuganga w'inzobere mu by'imitekerereze urimo kuganiriza umusore ufite agahinda gakabije, aho uyu muganga yabyigiye mu mashuri makuru na za kaminuza akaba azi neza kuganiriza abafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Inyubako yubatse hejuru y'umuhanda ikaba ikorerwamo n'ikigo nderabuzima ahatangirwa na serivisi z'ubuvuzi ndetse no gusuzuma hamwe no gutanga imiti, iki kigo nderabuzima abaturage bakaba bavuga ko kibafasha mu kugira ubuzima bwiza kuko urwaye atarembera mu rugo ahubwo ahita agana iki kigo nderabuzima kibegereye agahabwa ubuvuzi.

Usutse imisatsi akaba yifashe mu mutwe aho yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru akaba afite ikibazo cy'ihungabana rikabije izi serivisi zikaba zivurwa mu bigo bitanga ubuvuzi ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe.

Umubyeyi uteruye n'undi umwicaye iruhande, bakaba barimo kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho barimo kuganirizwa iby'agahinda gakabije gakunze kwibasira abantu bo mu cyaro.

Impuguke mu by'ubuzima zicaye ku ntebe abandi bahagaze inyuma yabo hamwe n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho bari bavuyemo nama nyunguranabitekerezo, mu rwego rwo kongera ubumenyi ndetse no guhugurana ku bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe zitandukanye.

Umujyanama w'ubuzima ukikijwe n'umuryango yari yasuye aho yari arimo kuwugira inama ndetse anawuhugura mu by'ubuzima, aho yari arimo kubabwira ingingo zitandukanye harimo izo gukomeza kwimakaza umuco w'isuku ndetse n'uburyo bwiza bwo kwirinda indwara.

Ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe kikaba kigizwe n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, aho gitanga serivisi zo kuganiriza abagize ihungabana ndetse n'abafite ibibazo byihariye kigafasha kuvura indwara z'ubwoko bwose mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Inzobere mu by'ubuzima zicaye imbere y'imbaga nyamwinshi, aho umugore afashe indangururamajwi arimo kugeza ikiganiro ku baturage bari bitabiriye iyi nama, aho bari barimo kugirwa inama ku bijyanye n'ubuzima, uburyo bwiza bakiri indwara n'uburyo bakwivuza indwara zitarabarembya.

Urubyiruko rwambaye udupira tw'amaboko magufi tw'umukara rukaba rwicaye mu nzu mberabyombi aho rwari ruri mu mahugurwa muri gahunda zitandukanye z'ubuzima aho bari barimo kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Nyakubahwa madamu Jenette Kagame madamu wa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ubwo yari arimo gutanga ikiganiro ku munsi mpuzamahanga wahariye kwita ku buzima bwo mu mutwe aho yari arimo gutanga ikiganiro mu kuntu umuntu yabungabunga ubu buzima ndetse n'uko wabana n'abafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe no guharanira uburenganzira bwabo.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi wicaye azamuye akaguru kamwe yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ishaneti mu ijosi akaba arimo guseka yikoze mu misatsi aho yari yishimye cyane bigaragaza ko ameze neza afite ubuzima bwiza.

Urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu kunyuzaho amabwiriza ndetse n'amatangazo y'ubuzima, aho kifashishije urubuga kandi mu kugaragaza imibare y'abantu biyahura mu gihugu. Aho kigaragaza ko muri bibiri na kabiri, hiyahuye abantu basaga cumi na bane. Aho byagiye bigabanyuka kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, ubwo ari abantu bane gusa.

Abayobozi mu nzego za Leta ndetse n'abaganga, ubwo bari bahuriye mu gikorwa cyahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho bari bahujwe n'igikorwa cyo gutera ibiti bizenguruka ibitaro bivura indwara zitandukanye zo mu mutwe, aho bari bari ku bitaro bya karayesi Indera biherereye mu karere ka Huye.

Umugore witeze igitambaro akaba yarakaye cyane yafunze isura, aho bigaragara ko yari amaze kugira ibibazo byihariye byo mu mutwe, aho yari amaze yari ajyanywe kwa muganga kugira ngo aganirizwe n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe zimufashe kugarura ubuzima bwiza ndetse no gukira indwara ye.

caraes freres de la charte ikaba ari inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye zo mu mutwe, iyi nyubako ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti by'amoko atandukanye ndetse na pasiparumu

Inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe yitwa Uwihoreye Chaste akaba yarafashe indangururamajwi ubwo yari ari gutanga ikiganiro ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima, aho yarimo gutanga inama ku buryo wabana kandi ugafasha neza ufite uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'umuntu muzima uko yakibungabunga.

Umuganga w'inzobere wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati yakorewe mu Rwanda, akaba ahagaze imbere y'ibitaro bya furere do la sharite, bikorerwamo serivisi z'ubuvuzi ku ndwara zitandukanye zo mu mutwe.

Imodoka yabugenewe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ikaba yicawe izengurutsweho n'abaturage batandukanye barimo kwakirwa n'abaganga b'inzobere mu by'imiti ndetse n'inzobere mu by'ubuzima aba baganga barimo kuganiriza aba baturage ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe akaba akorera ku bitaro bya Karayesi Ndera, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ubwo yari amaze gutanga ikiganiro ku baturage abaganiriza mu buryo bafata neza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye urimo gutera igikoma ku mbabura ari gushigisha mu isafuriya, akaba ahetse umwana, undi amuhagaze iruhande, iyi fu ikaba ari ifu itangwa na leta yongewemo izindi ntungamubiri zihagije, ikaba yifashishwa mu kurwanya igwingira ku bana bakiri bato.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, wicaye upfutse mu maso akaba afite ikibazo cy'agahinda gakabije zimwe mu ndwara zifata mu mutwe zibasira cyane cyane urubyiruko bituma biheba cyane, aho inzobere mu by'ubuzima zivuga ko umubare munini w'urubyiruko rufite ikibazo.

Intebe yihina yo kwa muganga yabugenewe, ikaba ari intebe ikikijwe n'imbyuma kabuhariwe bikoresha ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga ndetse n'inzobere mu by'ubuzima mu gusuzuma indwara zitandukanye zifata mu mubiri mo imbere.

Umukobwa urimo guseka agaragaza ibice byo mu kanwa by'amenyo, akaba ashishikariza abantu kugirira isuku amenyo yabo kuko bituma asa neza bikanayarinda indwara zitandukanye zirimo amenyo harimo nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Umukobwa ufite agakoresho kabugenewe kariho akadodo, kifashishwa mu gukura imyanda iri hagati y'amenyo, kakaba gatangwa n'inzobere mu by'ubuvuzi bw'amenyo, bakaba bavuga ko aka gakoresho ari ingenzi cyane kuko gafasha amenyo kuyarinda indwara zitandukanye, kayasukura.

Hope dento senta akaba ari inyubako ikorerwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, aho basuzuma amenyo ndetse bakayoza, bagatanga na serivisi zo gugura ayanduye, iki kigo kikaba zitanga izi serivisi giherereye mu mujyi wa Kigali.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, akaba arimo gusuzuma amenyo y'umwana uryamye ku gatanda, akaba ari gukoresha udukoresho tubiri afashe mu kiganza, utu dukoresho tukaba dufasha gusuzuma indwara zitandukanye z'amenyo kugira ngo abaganga bavure umuntu urwaye amenyo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'agapfukamaso, akaba afite ikaramu mu kiganza arimo kwandika aho yari arimo gupima indwara abarwayi akoresheje ibyuma byo muri laboratwari yo kwa muganga.

Umusore wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi urimo guseka, amenyo agaragara, akaba arimo kugaragaza ibyiza byo gukoresha ibikoresho by'isuku nk'uburoso bw'amenyo ndetse n'imiti yabugenewe kuko bifasha kugira amenyo meza kandi bikayarinda kurwaragurika.

Umuganga w'amenyo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki mu biganza, akaba afite agakoresho kabugenewe ubwo arimo koza amenyo yakozwe n'abantu yifashishwa kwa muganga, mu kuvura indwara zitandukanye zifata amenyo.

Umuganga w'inzobere mu ndwara z'amenyo, ubwo yari afashe yari yambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, ubwo yari agiye afashe agakoresho kabugenewe kifashishwa mu gusuzuma amenyo, aho yari agiye gusuzuma umugabo wicaye ku ntebe yabugenewe yo kwa muganga basuzumiraho amenyo.

Umugore wambaye agaseri k'umweru, akaba yiteze igitambaro cy'umweru, akaba afashe mu ntoki ze uburoso bw'amenyo arimo koza amenyo akoresheje uburoso n'umuti wagenewe koza amenyo bimufasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu menyo.

Ibikoresho byababugenewe byifashishwa mu gusuzuma indwara zo mu kanwa biri ku gakoresho ko kwa muganga, ibi bikoresho bikaba bikoresha ikoranabuhanga aho bifasha abaganga gusuzuma indwara zifata mu kanwa, bityo bakabasha kuvura abarwayi neza hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugabo ufashe akadodo mu biganza arimo kukanyuza mu menyo akadodo kakaba gatangwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi bw'amenyo, kakaba gafasha gukura imyanda hagati y'amenyo bifasha amenyo gusa neza ndetse no kuyarinda indwara zitandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba arimo gusuzuma umukobwa wambaye isengeri uhagaze imbere ye, uyu muganga akaba arimo gukoresha ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma indwara zifata mu kanwa, aho bakoresha ibi bikoresho kugira ngo babone indwara ziri mu kanwa babone uko bavura abarwayi.

Abana biga mu mashuri abanza bakaba bambaye impuzankano aho bose bafite ibikombe mu ntoki zabo, hamwe n'uburoso bw'amenyo buriho umuti woza amenyo bakaba barimo koza amenyo, bimwe mu bishishikarizwa n'abaganga b'inzobere mu by'amenyo bavuga ko, koza amenyo buri kenshi bidashoboka ari byiza biyafasha kuyarinda indwara.

Umugabo wambaye agapira kashokora hamwe n'ikoti ry'ikoyi urimo guseka akaba afite amenyo meza cyane akaba yubahiriza inama agirwa n'abahanga mu by'amenyo aho avuga ko uba ugomba koza amenyo mu gihe usoje kurya.

Icyumba cyo kwa muganga gisizwe amarangi y'umweru, hakaba harimo amatara menshi ahagije, ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma indwara z'abarwayi, ndetse hakaba hariho n'insakazamashusho ifashe kuri izi mashini, ikaba yifashishwa mu kureba uko umurwayi ahagaze.

Intebe igezweho yo kwa muganga, yigonda ikaba yicarwaho n'umurwayi irimo gusuzumwa n'imashini zikikije iyi ntebe, aho hariho n'indi ntebe yicarwaho n'umuganga urimo gukoresha iyimashini mu kuvura umurwayi. Iyi mashini abaganga bakaba bavuga ko ari ingenzi cyane kuko ibafasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi bwihuse.

Icyuyuma cyo kwa muganga cyabugenewe, gikoresha ikoranabuhanga, gifasha mu gusuzuma abakireba uko amenyo ahahagaze mu kanwa, mu gufasha abaganga kumenya uburwayi bw'abarwayi bwo mu kanwa, mu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse kandi bwiza.

Umuganga w'amenyo urimo gukura umurwayi iryinyo akoresheje utwuma twabigenewe two kwa muganga, twifashishwa mukura amenyo yagize ikibazo ku barwayi, aho bifasha umurwayi kumugabanyiriza uburibwe, ndetse bikarinda amenyo ye asigaye kwanduzwa n'ibyo rirwayeho.

Amenyo yanyujijwe mu cyuma cyabugenewe kireba uko amenyo ameze mu kanwa k'umuntu, ibi byuma byifashishwa mu gupima indwara zo mu kanwa zitandukanye no kureba ukuntu amenyo ateye, ibi ngibi bikaba byereka abaganga uko uburwayi umurwayi afite bikabafasha kumuvura neza.

Umuganga w'inzobere uvura indwara z'amenyo wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi ndetse n'uturindantoki tw'icyatsi, akaba afashe mu kiganza cye udukoresho twabugenewe twifashishwa mu gusuzuma amenyo, aho yari arimo gusuzuma amenyo y'umwana muto mu kumufasha kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kugira ngo ahabwe ubuvuzi ku menyo yari arimo kumurya.

Umusore wambaye umupira n'ingofero y'umweru akaba atunze urutoki ku menyo, akaba yambaye amarinete aho arimo kugaragaza ibyiza byo kugirira isuku amenyo ko biyafasha gusa neza ndetse bikayarinda indwara zifata mu kanwa za hato na hato.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru, akaba afite imisatsi miremire akaba afashe mu kiganza uburoso bw'amenyo, we yari arimo koza amenyo arimo kwireba mu ndorerwamo, koza amenyo bikaba bifasha amenyo kuyarinda indwara zitandukanye, nk'uko bivugwa n'inzobere mu by'ubuvuzi bw'amenyo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, usutswe imisatsi ya purante, utoboye amatwi wambaye amaherena, aho yari arimo kunyuza akadodo mu menyo ye yahumirije, aho aka kadodo kamufata gukura imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo, bikarinda amenyo ye kuba yanakandura indwara ziterwa n'umwanda.

Ibyuma byabugenewe byifashishwa mu gusuzuma uko amenyo ateye mu kanwa, ibi byuma bikaba bikoresha ikoranabuhanga rihambaye mu kumenya ibibazo bifata amenyo mu gufasha abaganga kumenya uko bavura. Abaganga bavuga ko ibi byuma bikoresha ikoranabuhanga bibafasha cyane mu gusuzuma bityo bakavura abarwayi hakiri kare batararemba, bagakira byoroshye bakagira ubuzima bwiza.

Umuganga w'amenyo wambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'agapfukamunwa ubwo yari afashe agakoresho kabugenewe ko kwa muganga, kifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye z'amenyo, ubwo yari arimo gusuzuma umusore uryamye ku gatanda ko kwa muganga wari waje kwivuza amenyo.

Abana biga mu mashuri abanza bakaba bambaye impuzankano z'ubururu aho bafashe uburoso bw'amenyo mu ntoki barimo kwigishwa uko boza amenyo, ibi bikaba bifasha kurinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa aho bifasha gusukura amenyo akagira ubuzima bwiza.

Ibyuma byo kwa muganga byifashishwa mu gusuzuma, aho bigaragaza uko amenyo ameze mu kanwa n'uko ateye, kugira ngo byorohere abaganga kumenya ahari ikibazo, babone uko bavura uburwayi. abaganga bavuga ko ibi byumba bikoresha ikoranabuhanga rihambaye, bikabafasha gusuzuma bityo bagatanga ubuvuzi bwiza.

Umwana wicaye mu ntebe afashe uburoso bw'amenyo arimo koza amenyo, akaba abyigishwa n'ababyeyi be mu kugira ngo azakorane umuco wo koza amenyo, bizamufasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa ndetse no kuhagirira isuku.

Umudamu ufite imisatsi miremire urimo ufashe intoki ze akazitungaka mu kanwa ke, aho arimo kugaragaza amenyo ye meza agira inama abantu kugirira isuku amenyo yabo kuko biyafasha gusa neza ndetse bikayarinda indwara zitandukanye.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano, bafite ibikombe ry'amazi mu kiganza, ndetse bari koza amenyo bakoresheje umuti w'amenyo hamwe n'uburoso bw'amenyo, bibafasha gukura imyanda mu kanwa, bikabafasha kurinda akanwa kabo kugira kurwarwa n'indwara zitandukanye zifata mu kanwa.

Abaganga bakora mu bitaro bya CHUK biherereye mu mujyi wa Kigali, ubwo bari bavuye mu nama ndetse n'amahugurwa bari bagiranye n'impuguke mu by'ubuzima, zari zirimo kubafasha kurushaho kunoza serivise batanga z'ubuvuzi mu kongerera ubushobozi aba baganga.

Intebe yihina yo kwa muganga, iri munsi y'ibyuma byabugenewe, byifashishwa mu gusuzuma indwara zo mu kanwa, aho iruhande rwayo hari indi ntebe yicarwaho n'umuganga, mu gihe arimo gukoresha izi mashini, asuzuma indwara z'abarwayi.

Ibyuma byabugenewe by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga biri mu cyumba cyo kwa muganga, bikaba biri hejuru y'intebe yicarwaho n'abarwayi barimo gusuzumwa n'ibi byuma. Abaganga bavuga ko ibi byuma byaje kubafasha, kuko bibafasha kuvura neza indwara z'ubwoko butandukanye.

Umurwayi uri gushyira akantu mu menyo kakaba kamufasha kuyarinda gukuka ndetse no kurwaragurika indwara zitandukanye aka gakoresho akaba yaragahawe kwa muganga ubwo yari yagiye kwivuza amaso avuga ko gakoresho kamufashije mu gukira ndetse no kwirinda indwara zifata amenyo.

Umusore wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare, uri kwireba mu ndorerwamo, akaba afite akadodo, aririmo kunyuza mu menyo hagati, aho kamufasha gukuramo imyanda iba yasigaye mu mya hagati, bikamufasha kwirinda indwara zifata mu kanwa, ziterwa n'imyanda isigara cyangwa se ibiryo bisigara mu kanwa.

Umusaza ufite imisatsi irimo imvi, akaba yambaye amarinete akaba afite mu kiganza imiti aho yaragiye kuyinywa, imiti akaba yarayihawe n'abaganga bamwitaho ikaba imufasha kumurinda imivuduko y'amaraso zimwe mu ndwara zifata abasheshe akanguhe.

Abaganga b'inzobere mu kuvura amenyo bambaye imyenda y'akazi, igizwe n'amataburiya y'amaboko maremare y'umweru, bambaye udupfukamunwa barimo gukoresha udukoresho twabugenewe mu gusuzuma amenyo aho bari gusuzuma umusore uryamye ku gatanda.

Udukoresho dutandukanye harimo utwuma ndetse n'utundi twifashishwa mu kuvura kwa muganga ndetse no kubaga. Ibi byuma bikaba bikoreshwa n'abaganga b'inzobere mu kubaga ndetse hakaba harimo n'ibyifashishwa mu gusuzuma indwara zo mu kanwa.

Umugabo ufite agatambaro k'umweru ko kwihanaguza ku bitugu ndetse n'akadodo arimo gukoresha mu menyo, kakaba kamufasha, gukura imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo, nk'uko yabibwiwe n'abaganga batanga utu dukoresho, mu kumufasha kwirinda indwara zifata mu menyo ndetse no gusukura amenyo bihagije.

Abaganga b'inzobere mu by'amenyo, bambaye amataburiya y'umweru y'amaboko maremare ndetse n'uturindantoki, hamwe n'udupfukamunwa, aho bari bari mu gikorwa cyo gusuzuma indwara zifata mu kanwa, aho bari barimo gusuzuma umwana wicaye ku ntebe.

Umuganga w'inzobere mu by'amenyo akaba afashe mu ntoki ibikoresho byabugenewe aho arimo gusuzuma amenyo y'umwana wicaye ku gatebe kabugenewe kwa muganga. Uyu muganga akaba yambaye uturindantoki tw'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru hamwe n'amataratara.

Abana bambaye impuzankano bafite mu maboko yabo uburoso bw'amenyo burimo n'umuti w'amenyo, bakaba barimo kwigishwa n'umwarimu wabo ukuntu boza amenyo mu rwego rwo kubafasha kumenya kugirira isuku amenyo yabo, bikabafasha kubarinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe kwa muganga, ikaba igizwe n'amapantaro y'icyatsi ndetse n'amashati y'amaboko magufi, akaba yambaye amataratara ndetse n'udupfukamunwa, ari gusuzuma umwana wicaye ku gatanda kabugenewe, akaba afite udukoresho twifashishwa mu gusuzuma indwara zo mu kanwa.

Umukecuru n'umusaza bahagaze imbere ku meza yabo hari imiti itandukanye, yabandikiwe na muganga ndetse n'agakombe karimo amazi hamwe n'amarinete. Bakaba bambaye imyenda y'umutuku ubwo umusaza afashe ibinini arimo kubifungura akaba yari agiye gufasha umufasha we kubinywa.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hari hateretse agacupa karimo imiti ndetse n'ibinini biri ku meza, aho barimo gusoma urupapuro rwo kwa muganga rubabwira uko banywa imiti neza kugira ngo bakire binyuze mu nama bahawe na muganga.

Umuganga urimo gupima umukecuru yicaye ku ntebe indwara z'umuvuduko w'amaraso, akaba yambaye imyenda yabugenewe kwa muganga igizwe n'ipantaro n'ishati y'amaboko magufi, akaba yambaye kandi agapfukamunwa n'amarinete, akaba afite mu ijosi igikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma.

Umusaza ufite ubwanwa burimo imvi kandi ufashe ikirahuri cy'amazi mu ntoki, akaba arimo gusukirwa imiti mu kiganza n'umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu, umwitaho ndetse akamufasha kumenya uko afata imiti ye, bityo bikamufasha gukira binyuze mu kunywa imiti aba yahawe na muganga.

Umurwayi ufashe agakoresho ko kwa muganga kabugenewe mu kwifashisha kugenda aho ari guhaguruka ku gatanda ko kwa muganga aho avurirwa, utu dukoresho tukaba tugaragara cyane kwa muganga cyane cyane abavura bageze mu zabukuru, utu tukaba tubafasha gucuma iminsi.

Umukecuru urimo kugenda akoresheje agakoresho kabugenewe gafatwa n'amaboko abiri, ubundi umuntu abyifashisha mu kugenda mu gihe yagize ibibazo by'imvune, yangwa se iby'imikaya, iruhande rwe hakaba hari umuganga umufashe ku rutugu wambaye ikarita yabugenewe yo kwa muganga ndetse ufite igikapu cya shokora mu ntoki.

Umukecuru wicaye ku ntebe ku meza hari ibinini ndetse n'ikirahuri kirimo amazi aho iruhande rwe hahagaze umuganga urimo kumwereka uburyo aranywamo imiti, mu kumufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no gusaza neza.

Umwana ufite balo ya basikete urimo gukina n'umubyeyi we w'umugabo, bakaba barimo gukora imyitozo ngororamubiri bibafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze, aho imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukora neza bikawurinda indwara zitandura.

Abasheshe akanguhe bicaye munsi y'ishitingi ryiza rya kijyambere, aho bari barimo guhugurwa n'impuguke mu by'ubuzima, zibashishikariza gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto ko byabafasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Abagabo babiri barimo kugenda bafatanya ku rutugu, umwe akaba yambaye ingofero. Bakaba bari kugendera mu kayira gakikijwe n'ubusitani bugizwe na pasiparama ndetse burimo n'ibiti. Bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri bananura amaguru, bimwe mu byo bagirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara zitandukanye.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru akaba yicaye, iruhande rwe hari abana bahicaye barimo kurya aho uyu musaza arimo kuganira n'abana kugira ngo bamumare irungu mu kumufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye mu ntebe z'amafuteye ufite inkoni mu kiganza, akaba arimo kuganira n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu igizwe n'ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko magufi, aho uyu muganga yita ku basheshe akanguhe no kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Abakecuru basheshe akanguhe babyukiye mu myitozo ngororamubiri, aho bari barimo gukora imyitozo yo kwiruka. Aho bibafasha kurambura imikaya bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza, nk'uko babigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima. Zivuga ko imyitozo ngororamubiri zifasha umubiri gukomera no kugira ubudahangarwa.

Umuganga wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agashati k'ubururu k'amaboko magufi, akaba arimo gufasha umusaza usheshe akanguhe wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro, ufashe ku gikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kugenderwaho n'abasheshe akanguhe ndetse n'abagize imvune zitandukanye.

Umuganga wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agashati k'ubururu, akaba arimo gukoresha imyitozo ngororamubiri umusaza ufite imvi wambaye agapira k'umweru, bakaba ari muri saro ahacumbikirwa abasheshe akanguhe bafashwa n'abaganga, mu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abasheshe akanguhe b'abakecuru bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hateretse ibikapu, bakaba bahuriye ku kagari aho bari baje gufata inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima, zibafasha kunywa imiti neza ndetse no kwiyitaho kugira ngo bagire amasaziro meza.

Umukecuru n'umusaza bicaye barebana aho bari barimo gufata amafunguro yiganjemo imboga n'imbuto iruhande rwabo hateretseko ibirahuri by'amazi bakaba bashishikarizwa kurya ibiryo birimo intungamubiri zihagije nk'imboga n'imbuto bibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'inzobere mu byo bita ku basheshakanguhe, ubwo yari arimo gufasha umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, gukora imyitozo ngororamubiri, amufasha kurambura amaboko bimufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze, iyo akoze imyitozo ngororamubiri akarya indyo yiganjemo imboga n'imbuto, akanywa n'amazi meza ahagije.

Umuganga wabugenewe wambaye imyenda y'akazi yabugenewe igizwe n'ishati y'amaboko magufi akaba akora akazi ko kwita ku basheshakanguhe aho abafasha kunywa imiti yabo ndetse no kubaganiriza hamwe no kubafasha isuku bibarinda indwara zitandukanye ndetse bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo ku meza hari mudasobwa ndetse n'imiti, aho uyu musaza ateruye icupa ry'imiti arimo kwereka umukecuru we, imiti bamuhaye uko agomba kuyinywa mu kugira ngo bibukiranye ndetse bitaneho buri wese yite kuri mugenzi we kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abamama basheshe akanguhe harimo babiri bambaye amarinete hamwe bakaba barimo kureba muri telefone bari kureba ibiri ku mbuga nkoranyambaga, aho bahurira bakaganira bagakora uturimo dutandukanye tubafasha kuruhuka mu mutwe.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, wicaye ukikijwe n'abakobwa babiri bakiri bato. Aho bari barimo gukina amakarita arambitse ku meza, barimo baseka. Aho bari bari kumufasha kuruhuka muri iyi mikino ndetse bamuganiriza, bikamufasha uyu mukecuru gusaza neza afite ubuzima bwiza.

Abagabo bambaye amatiriningi y'umukara ndetse n'udupira tw'umweru tw'amaboko maremare bakaba bafashe amacupa y'amazi mu biganza, aho barimo gukora imyitozo ngororamubiri baseka nk'uko babigirwamo n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri ukanywa n'amazi meza, bifasha umubiri gukomera ndetse no kugira ubudahangarwa.

Umukecuru ufite imisatsi miremire irimo imvi, uteruye utwuma twabugenewe twifashishwa mu gukoresha imyitozo ngororamubiri. Akaba arimo gukoresha utu dukoresho yahawe n'abahanga mu by'ubuzima, bamugira inama ko tuzamufasha kunanura imikaya ndetse tukamufasha gukomeza umubiri we, no kugira ngo yirinde indwara za hato na hato.

Umukecuru ufite ikirahuri mu kiganza urimo kunywa imiti, akaba yambaye amarinete ndetse akaba afite imisatsi irimo imvi, akaba yicaye ku gitanda, iyi miti akaba yarayihawe n'abaganga mu kugira ngo imufashe kugira ubuzima bwiza.

Abasaza bambaye imikenyero ndetse n'amashati y'amaboko maremare hamwe n'ingofero, bakaba bari bahuriye hamwe n'abandi bashesha akanguhe, aho bari barimo kwigishwa ndetse no kuganirizwa n'inzobere mu by'ubuzima, zibagira inama, uburyo bakwiyitaho, kugira ngo basazane ubuzima buzira umuze.

Umukecuru usheshe akanguhe ufashe indangururamajwi mu ntoki, akaba ahagaze imbere y'agakoresho kabugenewe gahagarwaho n'abantu barimo kugeza ijambo ku bitabiriye inama, aho yari arimo kuvuga ibyiza byo kwitabwaho mu gihe usheshe akanguhe, avuga ko bibafasha kuruhuka bityo bagasaza neza.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, igizwe n'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, arimo gusunika umusaza ufite imisatsi irimo imvi ku kagare kamufasha kugenda, bityo akajya guhabwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye kwa muganga.

Abaturage bo mu karere ka Huye aho bari bicaye mu kibuga ndetse harimo utwatsi, barimo kuboha ibikoresho bitandukanye abasaza n'abakecuru bicaye barimo kuganirizwa n'urubyiruko ndetse n'abana, bibafasha kuruhuka ndetse no gususuruka.

Umusaza ukikijwe n'abana be hamwe n'abuzukuru be, bakaba barimo kuganira bishimye baseka bifasha uyu musaza kugira ubuzima bwiza, kuko aba yabonye abamuganiriza bigatuma afata imiti ku gihe, agahorana akanyamuneza bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'utw'umutuku ndetse n'agapira k'amaboko magufi akaba afite imvi, aho arimo gusangira n'umuryango we ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto bimwe bagirwamo inama n'abaganga n'impuguke mu by'ubuzima ko imboga n'imbuto zifasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye.

Umukecuru usheshe akanguhe wicaye ku ntebe imbere hari imeza iteretseho ikirahuri cy'amazi aho iruhande rwe hahagaze umuganga urimo kumuhereza imiti yo kunywa agakarito k'imiti gateretse ku meza uyu muganga akaba yambaye imyenda yabugenewe y'akazi y'ishati y'ubururu y'amaboko magufi akaba akora akazi ko kwita ku buzima bw'abakuze.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi, akaba yambaye isengeri, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho yashyize amaboko hasi ndetse n'amaguru akazamura igihimba, imyitozo ngororamubiri akaba ayigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira ubudahangarwa, bityo bikabafasha kwirinda indwara.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima wari urimo kuvura umukinnyi wari wagize imvune ubwo yari ari mu myitozo ngororamubiri, aho yari arimo gufasha kumufasha kunyura ku gakoresho kabugenewe, kamufasha kurambura ingingo ndetse n'imitsi.

Abakecuru barimo kureba muri terefoni bahagaze mu busitani, bakaba bari barimo kuganira aho bari barimo gukora n'imyitozo ngororamubiri bishimye bibafasha kugira ubuzima bwiza bigatuma basaza bafite ubuzima buzira umuze.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru we bakaba babana mu rugo, bakaba bari kurya amafunguro ateretse ku meza yiganjemo imboga n'imbuto, hakaba hari iruhande rwabo n'ikirahure cy'amazi bimwe mu bibafasha mu mafunguro, bakaba bagirwa inama yo kurya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto.

Umuganga wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'amaboko magufi y'umukara akaba afashe ku kaboko k'umusaza ufite imvi wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, aho arimo kumufasha kurambura ingingo ndetse n'imikaya bimufasha kwirinda amavunane no kumufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi karimo uturongo tw'umweru ndetse n'utwuubururu, afite umusatsi urimo imvi. Naho imbere ye ku meza hari igisoro dame arimo gukina n'undi musaza bibafasha kuruhuka mu mutwe bakagira ubuzima bwiza.

Umukecuru usheshe akanguhe, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, akaba afite mu kiganza ikirahuri kirimo amazi, ndetse ikindi kiganza cye kikaba kirimoho ibinini yari agiye kunywa yari yahawe na muganga, bimufasha gukira indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Abakecuru n'abasaza bicaye imbere yabo ku meza hateretse amazi ari mu kirahuri ndetse n'imiti iri mu ducupa, aho barimo gusoma ibyitabwaho mu gihe unywa iyi miti, umusaza akaba afatisha ibinini mu kiganza aho yari agiye kubitamira.

Abamama bakuze bambaye imyenda ya siporo ubwo bari barimo kugenda bari mu myitozo ngororamubiri bari kugendera mu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza bugizwe n'indabo ndetse na pasiparama hamwe n'ibiti byo mu busitani bakaba bari bari mu myitozo ngororamubiri ibafasha kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru wicaye mu ntebe y'umukara akaba afashe mu ntoki ikirahuri cy'amazi, akaba ari guhabwa imiti mu kiganza n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, igizwe n'ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'ubururu ufite mu ijosi igikoresho cyifashishwa mu kumva uko umutima utera.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare akaba afite imvi, ubwo yari ateruye umwana we, wambaye ishati y'amaboko magufi ufite igipupe mu maso ubwo yari arimo kumuganiriza, amufasha kuganira kugira ngo amumare irungu bityo bimufashe kuruhuka mu mutwe.

Umusaza n'umukecuru bicaye barimo kuganira, imbere yabo hakaba hari ameza ariho imiti itandukanye, ubwo bari barimo kwibukiranya uko bategetswe kunywa imiti n'abaganga babavuye, bibafasha kugira ubuzima bwiza bitewe no kubahiriza inama bahabwa n'abaganga.

Umukecuru usheshe akanguhe ufite isahani iriho ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto akaba afite n'ifoke mu kiganza, akaba yambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare ubwo yari arimo gufungura, akaba abishishikarizwa n'abajyanama mu by'ubuzima gufungura ibiryo byiganjemo imboga ko ari byo birimo imyunyungugu aba akeneye.

Umurwayi uryamye ku gatanda ko kwa muganga, akaba akikijwe n'imashini zimufasha mu kumenya uko umubiri we uhagaze ndetse n'izimufasha guhumeka mu gihe arimo guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Umusaza wambaye isaha imufasha kumenya uko ubuzima bwe buhagaze, aho imwereka uko umutima wari uri gutera ndetse no kwiyongera no kugabanyuka kw'isukari yo mu mubiri, akaba avuga ko iyi saha ikorana n'ikoranabuhanga rimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima ndetse n'abayobozi bo mu nzego za leta ubwo bari bahuriye mu gikorwa cyo gufasha abafite ubumuga babahereza amagare bifashisha mu kugenda, iki gikorwa kikaba cyarateguwe na leta kugira ngo bafashe abaturage bafite ubumuga butandukanye.

Umusaza wambaye amarinete, wambaye n'ishati y'amaboko maremare, akaba afite ikaramu mu kiganza, aho yari arimo gusoma ikinyamakuru kivuga ku by'ubuzima, bimufasha kuruhuka, bityo bikamufasha kumenya uko yakwiyitaho kugira ngo asaze afite ubuzima buzira umuze.

Abakecuru barimo gukora imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira ubuzima bwiza nk'inama bagirwarwamo n'inzobere mu by'ubuzima ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukora neza bityo bikayirinda indwara zitandukanye harimo nka diyabete ndetse n'isukari nyinshi.

Umuganga wabigize umwuga wambaye imyambaro y'akazi igizwe n'ishati ndende y'ubururu y'amaboko magufi ndetse akaba afite igikoresho mu ijosi cyifashishwa mu gupima uko umutima utera. Aho ahagaze inyuma y'umukecuru, aho yari aje kumupima ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Abasheshe akanguhe bagizwe n'abasaza n'abakecuru bateraniye ku ihema ryo kwa muganga, ubwo barimo kwitabwaho n'abaganga babafasha kubapima indwara zitandura zirimo nka diyabete ndetse n'umuvuduko w'amaraso ziri mu zikunze kwibasira iki cyiciro cy'abasheshe akanguhe, ubwo hari umugore w'umuganga wambaye ijire ndetse akaba afite ibikoresho mu ntoki byifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza n'umukecuru aho umusaza yicaye ku gitanda umukecuru akaba yari amuzaniye amazi, aho afashe ikirahuri mu ntoki arimo kunywa amazi, aho yari arimo kumwibutsa kunywa imiti yandikiwe na muganga bimufasha kugira ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita kuri diyabete aho bafasha abarwayi b'iyi ndwara kubafasha ndetse bakanashyiraho ibiganiro bigamije kugaragariza abanyarwanda uburyo bakirinda iyi ndwara bakora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho kandi bakanywa amazi ahagije bakirinda kurya isukari nyinshi.

Abaganga b'inzobere mu byo kubaga bambaye imyenda yabugenewe yo kubaga hamwe n'uturindantoki bafashe ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kubaga, aho batanga serivisi zo kuvura hakoreshejwe izi zo kubaga indwara zitandukanye.

Minisitiri w'ubuzima Dogiteri Sabin Nsanzimana aho yari arimo guhererekanya gusha na minisitiri wari ucyuye igihe mu kugira ngo bafatanye imbaraga ndetse bungurane ibitekerezo mu guteza imbere iyi minisiteri y'ubuzima, aho bari bafite ibitabo mu ntoki zabo bahanye ikiganza.

Inama yabaye ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, inama ikaba yarigaga mu kuvura indwara zitandukanye zo mu mutwe aho baganirije abaturage mu kubafasha kumenya uburyo bwiza babungabunga ubuzima.

Icyapa gikangurira abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe baganiriza abafite ihungabana ndetse n'ibibazo bikabije, ndetse baganiriza abana mu kubafasha kumva uko imitekerereze yabo imeze, mu rwego rwo kubafasha gukura neza bafite ubuzima bwiza mu bijyanye n'imitekerereze.

Abaganga bambaye ibikoresho byabugenewe bikwije hose ndetse bambaye n'ingofero hamwe n'udupfukamunwa ubwo bari barimo gusuzuma icyorezo cya korona, ubwo bagombaga kwambara ibibarinda kugira ngo batanduzwa n'abo bavura.

Icyapa cyanditseho twirinde ubushita bw'inkende, kikaba ari icyapa cyakozwe na minisiteri y'ubuzima aho yari irimo gushishikariza abaturarwanda mu kubahiriza ingamba zashyizweho mu kurinda iyi virusi y'inkende itera ubushita, aho yari yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo bambaye amakoti ndetse n'amakaruvati hamwe n'abadamu bicaye imbere mu cyumba cy'inama, aho umugore umwe afite indangururamajwi arimo kugeza ikiganiro ku bari bitabiriye inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umuyobozi w'inzobere mu by'ubuzima ubwo yari arimo gutanga ikiganiro afashe indangururamajwi mu kiganza ndetse imbere ye hari insakazamashusho, ubwo abayitabiriye iyo nama bari bicaye mu magurupe, aho bari bafite mudasobwa imbere ya bo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Urubyiruko rwiga ibijyanye n'ubuvuzi aho rwari rurimo guhugurwa n'impuguke mu by'ubuzima irimo kurufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'umwuga wabo mu kurushaho kubategura kuzavamo abaganga b'ejo hazaza beza bavura abaturage bafite ubumenyi buhagije.

Impuguke mu by'ubuzima zaturutse mu bice bitandukanye by'isi aho zahuriye i Kigali mu kwiga ku bitekerezo bitandukanye by'uburyo hatezwa imbere ireme ry'ubuvuzi mu kongerarera serivisi zitangirwa kwa muganga. Iyi nama ikaba yari igamije gufasha ibihugu bya afurika kongera umubare w'abakozi bakora kwa muganga.

Ikirango cyo kuri murandasi, kiriho ifoto y'umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi, ufite agakoresho kabugenewe ko kwa muganga mu ijosi, akaba yambaye ingofero yo kwa muganga, ndetse n'agapfukamunwa yagejeje hasi, aho ikigi uru rubuga rwifashishwa mu gutanga inama zitandukanye, mu kongerera imbaraga abakora umwuga wo ku ubuvuzi.

Inzobere mu by'ubuzima yicaye ku ntebe, akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agashati k'umukara, hamwe n'ikoti ry'umweru akaba afite mu kiganza igitabo cyabugenewe yandikamo, akaba afite indangururamajwi mu kiganza, ubwo yari arimo kugeza ikiganiro ku bari bitabiriye inama ku munsi wahariwe kwirinda inda zitateganyijwe ku bangavu.

Umuganga wambaye ishati y'umweru akaba yambaye n'agapfukamunwa, aho arimo gutera urushinge umurwayi wicaye ku ntebe na we wambaye agapfukamunwa, ubwo bari bari mu gihe cyo gukingira icyorezo cya COVID-19 aho buri muntu yasabwaga kwikingiza iki cyorezo mu rwego rwo kugihashya.

Icyapa cyo kuri murandasi cyanditsweho runingi koraborative aho bishishikariza abaturage mu gufatanya mu kurwanya sida mu bana ndetse n'abangavu, aho uru rubuga rukoreshwa runyuzwaho inama zitandukanye ndetse n'uburyo butandukanye bwo kwirinda virusi itera sida.

Abaganga b'inzobere bakoresha urubuga rwo kuri murandasi bigisha abantu, aho bafite ingingo ivuga ati: "Leaving no one behind", aho bari barimo gushishikariza abantu kugenda nta n'umwe basize inyuma, bafashanya mu kungurana ubumenyi, mu guteza imbere ubuvuzi.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima urimo gusuzuma indwara zitandura harimo diyabete ndetse n'isukari nyinshi mu maraso aho afite ibikoresho ku meza arimo kwifashisha ndetse n'ikindi gikoresho ari gushyira ku kaboko k'umurwayi agiye gusuzuma iruhande rwe hakaba hagaragara indangururamajwi yari arimo akoresha arimo no guhugura abaturage bari baje kwisuzumisha.

Icyumweru cyahariwe kurwanya indwara ya diyabete aho muri iki cyumweru hakorwa ibikorwa bitandukanye harimo nko gupima, gusuzuma iyi ndwara ya diyabete no gufasha abantu bayirwaye kubona ubuvuzi bwihuse no gukangurira abaturage kuyipimisha. Iki cyumweru kikaba cyarabaye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho cyatangi ku itariki ya cumi na gatatu kikarangira ku itariki ya cumi na gatanu.

Impuguke mu by'ubuzima zicaye mu cyumba cy'inama aho zari zimaze gukora inama ku ngingo zitandukanye, zo kwihutisha serivisi z'ubuvuzi kwa muganga ndetse no kongera abaganga mu bitaro, iyi nama ikaba yaragize impinduka zikomeye mu bijyanye n'imivurire mu Rwanda.

Inama yabereye mu nzu mberabyombi y'umujyi wa Kigali yari yabaye mu waka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ku itariki ya makumyabiri n'imwe kugeza ku ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatanu, aho yari irimo kwiga ku ngingo zitandukanye zo kwihutisha serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda.

Icyapa cyashyizwe ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ubwo cyagaragazaga ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo cyateye ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, aho harimo gukaraba intoki, amazi meza n'isabune, kwirinda gukoranaho, kwambara udupfukamunwa ndetse no gusiga intera hagati ya mugenzi wawe.

Abaganga b'inzobere mu byo kubaga bahagaze bakikije umurwayi uryamye ku gatanda kwa muganga ,aho ari akikijwe n'imashini zimufasha guhumeka ,akaba arimo gukorerwa ubuvuzi bwo kubagwa kugira ngo bamufashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'amaboko maremare y'umweru hamwe n'agasengeri kabugenewe, ubwo yari arimo gutera urukingo umusore wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'ubururu, urukingo ku rutugu, uru rukingo rukaba ari urukingo rwa Korona virusi, ubwo bari barimo mu gikorwa cyo gukingira iyi ndwara.

Umukecuru upfutswe ijisho rimwe, akaba yiteze igitambaro cy'umutuku, uyu mukecuru akaba yari arimo kuvurirwa mu bitaro, aho yari arimo kuganirizwa n'abaganga, ndetse n'abahanga mu by'ubuzima, bamugira inama ku ngingo zitandukanye, zamufasha gusaza afite ubuzima buzira umuze.

Inzobere mu by'ubuzima ubwo zari zivuye mu nama yari yazihurije mu cyumba cy'inama cy'umujyi wa Kigali, aho bari bamaze kuganira ku ngingo z'uburyo bakihutisha serivisi zo kwa muganga ndetse no kongerera ubushobozi ibitaro hirya no hino mu gihugu.

Inyubako yo kwa muganga isizwe amarangi y'umweru, ikaba iriho amatara y'icyatsi ndetse ikaba isakajwe amabati, iyi nyubako ikaba ibikwamo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no kuzisuzuma hakoreshejwe imashini.

Ivuriro ryo kwa muganga rigaragarwamo n'ibitanda bitandukanye, ndetse n'intebe zicarwaho n'abaganga n'abarwaza, hamwe n'ibyuma byabugenewe bifashisha mu gusuzuma indwara z'amoko atandukanye, abaganga bakavuga ko ibi byuma bibafasha gutanga serivisi z'ubuvuzi nziza.

Inyubako y'igorofa izengurutswe n'ubusitani bwiza, iruhande rwayo hakaba hari parikingi iparikwamo n'imodoka z'abakorera kuri iyi nyubako. Hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abantu, iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibitaro, ikaba itanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Mediya soru famasi Kanombe akaba ari inyubako iherereye i Kanombe ikorerwamo n'inzu itanga imiti ikaba ibonekamo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa n'abarwayi mu kuvura indwara zitandukanye aho abarwayi baza kugurira imiti baba bandikiwe na muganga.

Inyubako irimo intebe nziza z'amafuteyi, ndetse n'izindi zihinwa aho ziri iruhande rw'indabo nziza, hakaba kandi hari n'izindi ziri ku ruhande imbere y'umuryango, inyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako ya ircad Africa ikaba ikoreramo ikigo gishinzwe ubuzima muri Afurika, inyubako ikaba yubakishijwe udutafari duhiye ikaba igaragaramo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga rihambaye rigezweho byifashishwa mu buvuzi mu kuvura indwara zikomeye.

Inyubako yubakishijwe udutafari, ikaba ifite ibirahuri birimo amarido, ikaba iriho icyapa cyanditseho porikirinike de retware. Iyi ikaba ari inyubako ikorerwamo ubuvuzi, aho ibi bitaro bitanga serivise zo gusuzuma, izo kuvura, ndetse n'izo gutanga umuti.

Inyubako yo kwa muganga, isizwe amarangi y'umweru, isakajwe n'amabati inyubako itangirwajwemo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma kuvura ndetse no gutanga imiti, aho hagaragara urujya n'uruza rw'abarwayi baje kwivuza.

Inyubako ifite imiryango myiza, ikaba isizwe amarangi y'umutuku, ikaba iriho amakaro hasi, ikaba ikorerwamo n'ibitaro, ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti, hakaba hagaragara amakorodoro meza anyurwamo n'abarwayi baje kwivuza ndetse n'abaganga bahakora.

Inyubako y'igorofa yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo ndetse n'ibiti by'imikindo hamwe na pasiparumu, iyi nyubako ikaba ikorerwamo ubuvuzi ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye nko gusuzuma, kuvura, ndetse no gutanga imiti.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bitandukanye ndetse n'imashini zabugenewe mu kuvura indwara ndetse no gufasha abarwayi guhumeka, izi mashini zikaba zifashishwa cyane mu kuvura abarwayi barembye bavurwa baba mu bitaro, bityo bikabafasha guhabwa ubuvuzi bwihuse kandi bwiza bubafasha gukira vuba.

Imashini zitandukanye zo kwa muganga, ziri mu cyumba cyo kwa muganga, iruhande rwazo hakaba hari intebe y'umukara yicarwaho n'umuganga ndetse n'iy'umuhondo yicarwaho n'umurwayi igihe arimo gusuzumwa hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga. Bikaba bifasha abaganga kumenya indwara umurwayi arwaye.

Inyubako yubakishijwe utudafari duhiye ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu ikaba ifite parikingi iparitswemo imodoka zitandukanye harimo n'imbangukiragutabara, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibitaro aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko kuvura, gusuzuma ndetse no gutanga imiti, iyi inyubako ikaba izengurutswe n'ubusitani bwiza butewemo indabo na paspamure hamwe n'ibiti by'imikindo.

Inyubako yubatswe igeretswe, y'igorofa, imbere yayo hari parikingi iparitswemo imodoka ndetse ikaba ifite uruzitiro rwubatswe mu buryo bumanuweho utubuye duhiye, ikaba ikorerwamo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso, aho cyifashisha amaraso mu kuvura abarwayi bafite indwara zitandukanye.

Igikoresho cyo kwa muganga k'ikoranabuhanga, akaba ari imashini yifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye kwa muganga, imbere yacyo hakaba hari igitanda cyabugenewe kiryamwaho n'umurwayi ugiye gusuzumwa hakoreshejwe iki cyuma, hakaba hari n'ikoranabuhanga ry'insakazamashusho rigaragaza uko umubiri w'umurwayi umeze.

Icyapa kigaragaza inyubako y'ibitaro bya Ruhengeri, ikaba igizwe n'ibyo yubatswe n'ibyuma ndetse n'ututafari duhiye, hakaba iruhande rw'aho hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka izi serivisi z'ubuzima muri iki muri ibi bitaro, bikaba bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma, kuvura, ndetse no gutanga imiti.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa ikaba yubatswe igeretse ikaba ari inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zo kubyaza aho hari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri iyi nyubako hakaba handitsweho inzu y'ababyeyi n'impinja.

Ibitanda bigezweho byiza byo kwa muganga bishashweho matera ziriho amashuka y'icyatsi, iruhande rwabyo hakaba hariho imashini zabugenewe zifashishwa mu kuvura abarwaye indwara zitandukanye, ibi bitanda bikaba biryamwaho n'abaje kuyivuriza kwa muganga bavurwa bava mu bitaro.

Umuganga wambaye itabiririya y'umweru, akaba yambaye n'uturindantoki tw'ubururu, aho yarimo gukoresha imashini yabugenewe iri mu nyubako y'ibitaro, yifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye, yifashishwa n'abo baganga mu kumenya uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ubwo yari arimo guhugura abana mu buryo bakorera isuku amenyo mu kubafasha kumenya kugirira isuka amenyo yabo bibafasha kugira amenyo akeye ndetse bikayarinda no kurwara indwara za hato na hato zifata mu kanwa.

Imashini ziri mu cyumba cyo kwa muganga zabugenewe zikoresha ikoranabuhanga rigezweho, iruhande rwazo hakaba hari intebe yicarwaho n'umuganga, izi mashini zikaba zifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye zifata mu mubiri mo imbere, hakoreshejwe iri koranabuhanga riri muri izi mashini.

Inzobere z'abaganga zikorera mu bitaro bya Rwamagana, aho zihagaze iruhande rw'inyubako y'ibi bitaro hejuru y'abari icyapa cyanditseho Rwamagana Hospital ubwo bari bavuye mu nama bahuriyemo n'impuguke mu by'ubuzima, aho bari bari kwiga ku ngingo z'iterambere mu buvuzi.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye, ikaba isakajwe n'amabati, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza buriho indabo, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'Ikigo nderabuzima cya Rwerere, aho hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye ikaba ikikijwe n'ubusitani butandukanye aho muri ubwo busitani hagaragaramo icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa kuri ibi bitaro bya gisirikare biherereye i kanombe mu mujyi wa kigali.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'utugofero twabugenewe hamwe n'uturindamunwa, aho barimo gutunganya amazi akoreshwa kwa muganga azwi nka serumu, aya mazi akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Inyubako yabugenewe, isize amarangi y'umweru, ikaba ifite imiryango y'ibirahuri, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'imyitozo ngororamubiri, iyoborwa n'abaganga, ifasha abarwayi barwaye imvune, ndetse n'imikaya, gukira izo mvune zabo.

Inyubako yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba hagaragara ibikorerwamo n'ibindikoresho bitandukanye byifashishwa mu guterura ndetse n'ibikoreshwa hirukwa, iyi myitozo ngororamubiri ikaba ifasha umubiri kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yo kwa muganga irimo icyumba cyahariwe gutangirwamo serivisi zo kubaga, imwe muri serivisi zitangwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho bafata igice cyarwaye bakakibaga bagakuramo ibitera uburwayi, bityo umuntu akagira ubuzima.

Icyapa kiri ku marembo y'ibitaro bya Kabgayi cyanditseho "Kabgayi Hospital", ibi bitaro bikaba biherereye mu Karere ka Muhanga mu Ntara y'Amajyepfo, hakaba hagaragarwa urujya n'uruza rw'abantu baba baje kuyivuriza muri ibi bitaro kuko biri mu bikomeye muri iyi Ntara y'Amajyepfo.

Ibyuma byabugenewe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, bikaba biri ku gakoresho bibikwaho, mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri igaragarwamo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibyo birukaho ndetse n'ibindi baterura, ibi bikaba bifasha abakora imyitozo ngororamubiri, kugira imibiri ikomeye ndetse yirinda indwara.

Inyubako itangirwamo serivisi y'imiti, aho haboneka imiti y'ubwoko butandukanye, akaba ari inyubako ikorerwamo na progress pharmacy, akaba ari inzu igurishirizwamo imiti, iyi nzu ikaba ifasha abarwayi kubona imiti mu buryo buboroheye.

Inyubako yagutse isakajwe amabati ndetse n'ibyuma, ikaba irimo amatara menshi. Iyi nyubako ikaba ibikwamo ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga byifashishwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima mu kuvura indwara zitandukanye.

Inyubako yubakishijwe utubuye duhiye ndetse ikaba isizwe amarangi y'umweru, ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu, imbere yayo hakaba yicaye umudamu ufite abana bicaye imbere y'iyi nyubako, ikaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gashagasha gitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Imashini zitandukanye ziri mu cyumba k'ibitaro cyo kwa muganga, izi mashini zikaba zifashishwa n'abaganga, aho ziteretse ku meza, iruhande rwazo hateretse mudasobwa ndetse hakaba hari n'intebe yicarwaho n'umuganga, mu gihe arimo gukoresha izi mashini asuzuma uburwayi butandukanye.

Igikoresho cyabugenewe kizwi nka Radiology, gifasha mu gusuzuma indwara zitandukanye, imbere yacyo hariho agatanda kabugenewe k'umweru, karyamwaho n'umurwayi mu gihe arimo gusuzumirwa muri iki cyumba, iki cyumba kikaba kirimo kandi n'utundi tubati dutandukanye, turimo ibikoresho byo kwa muganga.

Igitanda cyo kwa muganga kiri munsi ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura, bikaba biri mu cyumba kirimo n'intebe y'umukara yicarwamo n'umuganga mu gihe arimo gusuzuma umurwayi, iki cyumba kikaba kirimo ikoranabuhanga rihambaye, aho ryifashishwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi mu gusuzuma indwara zitandukanye.

Imashini yo kwa muganga, ikoresha ikoranabuhanga rigezweho, ikaba ihagazwe imbere n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, aho yarimo kwisusukura, iyi mashini ikaba yifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye zifashata mu mubiri w'imbere, aho abaganga bavuga ko imashini ari nziza kuko ibafasha mu gutanga ubuvuzi bwiza.

Abarwayi barembye baryamye ku bitanda byo kwa muganga byabugenewe; biba bikikijwe n'imashini zibafasha guhumeka ndetse n'udutebe twabugenewe tuba duteretsweho imiti, abaganga bakaba bakurikirana abo barwayi baba mu bitaro.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya Tabagwe, kikaba giherereye mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Uburasirazuba, iki kigo kikaba kigaragarwamo n'urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi nko gusuzumwa, kwivuza ndetse no guhabwa imiti.

Mediasol Pharmacy Remera akaba ari inzu ibikwamo imiti, aho umurwayi agenda akagura imiti yandikiwe na muganga. Iyi nyubako ikaba itanga izi serivisi ndetse ikanatanga inama z'uburyo iyi miti ikoreshwa, kugira ngo abayikoresha babe bayiziho byinshi. Iruhande rw'inyubako haparitse imodoka y'umurwayi waje kwivuza.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi kikaba giherereye mu karere ka Rubavu mu ntara y'amajyaruguru. iki kigo kikaba gitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko kuvura, gusuzuma, ndetse no gutanga imiti.

Umuganga wicaye imbere y'amama babiri basheshe akanguhe aho yambaye uturindantoki tw'umweru akaba arimo kubasuzuma umuvuduko w'amaraso bibafasha kumenya uko imibiri yabo ihagaze mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Ibitanda byo kwa muganga birimo gukorwamo amasuku n'umusore wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu, hakaba harimo abarwayi baryamye ku bitanda byo kwa muganga aho bavurirwa, bakaba bari mu ivuriro rya Huye sehashibe.

Umuganga wambaye agapira k'umweru k'amaboko maremare, akaba arimo gupima ibiro umwana w'uruhinja akoresheje umunzani wabigenewe, ibi bikaba bifasha kumenya uko ikura ry'umwana, kugira ngo hirindwe igwingira ry'abana bakiri bato.

Inyubako itangirwamo serivisi zo kuvura indwara zitandukanye z'amaso. Hakaba hagaragara amarineti amanitse ku bikoresho byabugenewe, akaba ahabwa abantu bafite ibibazo by'amaso bitandukanye, kugira ngo bafashwe kureba neza bakaba bayandikirwa n'inzobere mu byo kuvura amaso.

Igikoresho cyo kwa muganga cyabugenewe cyifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye giteretse ku meza, kikaba gifite insakazamashusho yereka abaganga uko mu mubiri w'umurwayi hameze. Kikaba gikikijwe n'intebe zicarwamo n'abarwayi barimo gusuzumwa hamwe n'iyicarwamo n'umuganga uri kuvura.

Intebe yo kwa muganga yabugenewe, ikaba ari intebe ifite ibyuma biyifasha kugenda, bizwi nk'amapine, ndetse ikaba iriho ibikoresho byifashishwa kuvura, intebe ikaba yicarirwaho n'abarwayi barimo kuvurirwa kwa muganga badashobora kugenda, ikaba ibafasha kuva ahantu hamwe bagera ahandi, iruhande rwayo hari udutaburete twabugenewe tubikwaho imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba cyabugenewe kirimo igitanda kiri munsi y'imashini yabugenewe yifashishwa kwa muganga mu kuvura, aho kandi harimo intebe y'umurwaza, hamwe n'ubwogero bw'intoki byifashishwa mu gihe umurwayi arwaye.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bakaba ari abavuzi bambaye amatabuririya y'umweru y'amaboko maremare, ubwo bari barimo kureba mu byuma byabugenewe byifashishwa mu gupima ndetse no gusuzuma indwara z'abarwayi batandukanye, aho bari barimo gusuzuma umurwayi wari uri mu bitaro.

Agatanda ko kwa muganga kabugenewe kajyamwaho n'abarwayi baje kwivuza, aho aka gatanda gafite akuma kabugenewe gakoresha ikoranabuhanga, kifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye. Iki cyumba kikaba ari icyumba basuzumiramo ndetse bakanatangiramo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yubatswe ku bitaro ikaba isize amarangi y'umweru isakajwe n'amabati y'ubururu, hakaba hagaragarara imbere yayo igipimo bakoresha bapima ibiro ndetse n'uburebure bw'abarwayi, iyi nzu ikaba ari inzu y'ababyeyi ibyarirwamo n'ababyeyi baje kwa muganga.

Inyubako yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, igaragarwamo n'ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu guterura ibiro biremereye ndetse n'amagare yo kunyonga hamwe n'ibikoresho byo kwirukiraho bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibitanda biri mu nyubako yo kwa muganga bikaba bifite inzitiramibu hejuru, ibi bitanda bikaba biryamweho n'abarwayi baje kwivuza aho bahererwa serivisi z'ubuvuzi kuri ibi bitanda bakaba bavurwa baba mu bitaro.

Inyubako yubakishijwe utubuye duhiye ikaba izengurutswe n'ubusitani. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibitaro, ikaba itangirwamo serivisi zo gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti ku barwayi baza babigana baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Progress pharmacy akaba ari inyubako ikorerwamo, itangirwamo serivisi z'imiti, aho abaturage babonera imiti bakeneye ku gihe, bikabafasha gukira neza indwara z'abo, kuko baba babonye imiti bandikiwe no kwa muganga.

Inyubako isizwe amarangi y'umweru ikaba isakaje amabati y'umutuku hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abarwayi baje kwivuza ndetse n'icyapa kibuza abatwara ibinyabiziga kuvuza amahoni bigaragaza ko baba birinda ko basakuriza abarwayi.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bari kuvura abarwayi baryamye ku dutamba bambaye udupfukamunwa ndetse abaganga bakaba bambaye udupfukamunwa hamwe n'amataburiya y'umweru, bakaba barimo gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye ibyo barwaye kugira ngo babahe imiti myiza ibafasha gukira.

Ibitanda by'abarwayi byabugenewe bigaragara mu byumba byo kwa muganga, aho ibi bitanda byifashishwa mu kuvura abarwayi barembye, bavurwa bari mu bitaro mo imbere, ibi bitanda biba biri kumwe n'imashini zabugenewe zifashishwa mu gushyirwaho imiti, iri gufatwa n'aba barwayi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, akaba afite mu kiganza cye igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gupima uko umutima utera, akaba akoze ku rutugu rw'umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, aho yari agiye kumupima mu rwego rwo kumenya uko ubuzima bwe buhagaze naho indwara ye igeze.

Inyubako ikorerwamo n'ibitaro bikuru bya Butare, biherereye mu karere Huye, mu ntara y'Amajyepfo, aho imbere yabyo hari parikingi iparitswemo n'imodoka z'ubwoko butandukanye, ndetse bikaba birimo n'ubusitani bwiza burimo pasiparuma, aho hagaragara urujya n'uruza rw'abantu, baje kwivuriza kuri ibi bitaro.

Icyumba kirimo intebe ebyiri hamwe n'indi iri imbere ya mudasobwa ndetse n'ameza n'akabati gateretseho imiti itandukanye, kikaba ari icyumba cyo kwa muganga, gisuzumirwamo abarwayi barwaye indwara zitandukanye.

Umwana uri mu kagare gato kamufasha kugenda akaba afite ubumuga bwo kutagenda, aho ari kujya ku nyubako isize amarangi y'umweru ikorerwamo ibitaro. Ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse no gutanga imiti ku barwayi.

Imashini zabugenewe ziri mu cyumba cyo kwa muganga, zikaba ziri iruhande rw'intebe zicarwaho n'abarwayi barimo gusuzumwa hakoreshejwe izi mashini, izi ntebe zikaba zishobora guhinwa kugira ngo umurwayi ajyeho neza, apimwe n'izi mashini, zikaba zifashishwa mu gupima indwara zitandukanye.

Inyubako yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ikaba igaragarwamo n'ibikoresho bitandukanye harimo ibyo kwirukaho ndetse n'ibyo guterura hamwe n'amagare yo kunyonga zifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri ifasha imibiri y'abo kugira imbaraga.

Imashini zo kwa muganga, ziri mu cyumba cyo kwa muganga, zikaba zifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye, aho abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, baza bagafasha abarwayi, mu kubavura bakoresheje ibyuma bikoresha ikoranabuhanga rigezweho.

Abaturage bo mu ngeri zitandukanye harimo ababyeyi, abana, urubyiruko aho bari baje kwivuriza ku kigo nderabuzima, bicaye aho bakirira abarwayi mu iki kigo nderabuzima, bakaba bari baje gufata serivise z'ubuvuzi harimo gusuzuma, kuvurwa ndetse no guhabwa imiti.

Ibyuma byo kwa muganga bigezweho bikoresha ikoranabuhanga, bikikije agatanda karyamwaho n'umurwayi urimo gusuzumwa, ibi bikoresho bikaba bifasha abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, mu gusuzuma indwara zifata mu mubiri n'imbere bigatuma bavura neza abarwayi.

Imashini zo kwa muganga ziri mu cyumba cy'inyubako yo kwa muganga, izi mashini zikaba ziri muri iki cyumba gisuzumirwamo indwara z'ubwoko butandukanye, zifata mu mubiri mo imbere zikaba zikoreshwa n'inzobere mu by'ubuvuzi, zivura izi ndwara hakoreshejwe izi mashini zifite ikoranabuhanga.

Inyubako iriho icyapa cyanditseho Rwanda Children, ikaba isakajwe amabati ya orange, aho iri gusohokamo umukobwa, imbere yayo hakaba hari parikingi irimo amabendera harimo n'iry'u Rwanda. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye zihabwa abana bato.

Igitanda cyo kwa muganga kirambitsweho imiti y'ubwoko butandukanye iki gitanda kikaba gikikijwe n'imashini ifite ikoranabuhanga ndetse n'akandi gakoresho karambitseho imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo kuvura umurwayi urwariye muri iki cyumba kivujirwamo indembe.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo nderabuzima cya matyazo, imbere yacyo hakaba hari icyapa kigaragaza ko hakorerwa ikigo nderabuzima kikaba cyubatse hejuru y'umuhanda ahagaragara urujya n'uruza rw'abaturage baje kwivuza.

Farumasi Iraguha ikaba ikorera mu Mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu itanga serivise z'ubuvuzi, aho igurisha imiti ku barwayi bayikeneye, bikabafasha kubona imiti mu buryo buboroheye, baba bandikiwe na muganga, bikabafasha gukira vuba.

Icyuma cyabugenewe cyo kwa muganga, kiri mu cyumba cyo kwa muganga cyagenewe gusuzumirwamo indwara zibata mu mubiri mo imbere, iki cyuma kikaba gikoresha ikoranabuhanga rigezweho, aho hari ari umwanya wabugenewe umurwayi aryamamo, bityo kikamufasha kumusuzuma indwara.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibitaro aho itagirwamo serivise zo kuvura, aho hagaragarwa n'urujya n'uruza rw'abantu baba baje kwivuza indwara z'amoko atandukanye.

Umubyeyi uhetse umwana ufite imbere agashobora k'umweruru, akaba yaje kuvuza umwana kuri kigina herifu senta kikaba ari ikigonderabuzima cyubatswe na leta mu rwego rwo kwegereza serivisi z'ubuvuzi abaturage kugira bibafashe kwivuza bitabagoye.

Umukozi ukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC wicaye, imbere ye hari imashini zabugenewe mu gupima umuvuduko w'amaraso, aho yari arimo gupima umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, amufasha kumenya uko umubiri we umeze no kumenya uko umutima utera, kugira amenye niba nta ndwara z'umutima afite.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yubakishijwe ibirahuri mu imbere aho irimo n'amakaro hasi ikaba iy'ibishushanyo by'abakobwa bafite ubwiza bambaye marinete, inyubako ikaba ikorerwamo ubuvuzi bw'amaso.

Udutanda two kwa muganga twabugenewe dufite amapine ndetse turiho matera zisashweho n'amashuka y'ubururu, iruhande rwazo hakaba hari imashini zo kwa muganga zabugenewe zifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye, ibi bitanda bikaba biryamwaho n'abaje kwivuriza kwa muganga bavurwa baba mu bitaro.

Umuganga w'inzobere mu gukoresha imashini z'ubwoko butandukanye aho ahagaze imbere y'imashini yayifunguye, yashyizemo amaboko. Aho yari arimo kureba ibyo yari yashyizemo mu gihe yari arimo kuvura. Iyi mashini ikaba yifashishwa mu gupima ibintu bitandukanye byaturutse ku barwayi.

Inyubako ikorerwamo n'ibi n'aba n'ibitaro hakaba hagaragarwamo n'abaganga bambaye imyenda itandukanye bitewe na serivisi batanga, aho harimo abambaye amataburiya y'umweru, imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye iy'ubururu bwerurutse. Ibi bitaro bikaba bitanga serivisi z'ubuvuzi harimo gusuzuma ndetse no gutanga imiti ku barwayi.

Inyubako ndende isizwe amarange y'mweru ikaba ikorerwamo n'ibitaro bya Legasi biherereye mu mujyi wa Kigali; iruhande rwabyo hakaba haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo n'imbangukiragutabara z'ibitaro zifashishwa mu gutwara abarwayi barembye.

Igitanda cyo kwa muganga cyabugenewe kiri mu icyumba cyo kwa muganga iruhande rwacyo hari imashini yabugenewe ikoresha ikoranabuhanga rigezweho iyi mashini ikaba yifashishwa mu gusuzuma indwara zifata mu mubiri w'imbere aho ikoreshwa n'inzobere mu by'ubuzima ndetse n'abaganga.

Inyubako yo kwa muganga izengurutswe n'uduhanda twiza tunyurwamo n'abarwayi ndetse n'abaganga, hamwe n'ubusitani bwiza bukikije ibi bitaro, burimo ibiti ndetse na pasiparuma kandi bikaba bifite ibyapa biyobora abarwayi ibi bitaro.

Inyubako yo kwa muganga igaragarwamo n'intebe nziza z'amafuteyi hamwe n'ameza meza, hamwe n'indabo z'ubwoko butandukanye zikikije iki cyumba, iki cyumba kikaba kiberamo inama zo kwa muganga kugira ngo hafatwe ingamba zimwe na zimwe ndetse hakemurwe n'ibibazo biba byagaragaye kwa muganga kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zihatangirwa zirusheho kuba nziza.

Inyubako yo kwa muganga irimo imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi harimo n'izifashishwa mu gusuzuma indwara z'imbere mu mubiri zikoreshwa n'abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko izi mashini zibafasha cyane mu gutanga i serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako y'igorofa ikorerwamo ibitaro bya Polyclinique de Plateau. Ibi bitaro bikaba biherereye mu Mujyi wa Kigali, bikaba bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi nko gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Inzu y'ababyeyi itangirwamo serivisi zo kubyaza, aho yubakishijwe utubuye duhiye ikaba isakajwe amabati iruhande rwayo hakaba hari ibigega, hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baje gusura abarwayi barwariye muri iki cyumba.

Inyubako isizwe amarangi y'umweru ikaba ikorerwamo n'ibitaro aha hakaba hatangirwa serivisi zo gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti, aha ngaha hakaba hagaragara urujya n'uruza rw'abarwayi aho bari baje kwivuza indwara z'amoko atandukanye.

Ibitanda biri mu bitaro byo kwa muganga aho byifashishwa mu kuryamwaho n'abarwayi baba bavurwa baba mu bitaro, mu koroherezwa serivisi z'ubuvuzi mu buryo buboroheye, bidasabye ko bataha ngo bagaruke. Abaganga bavuga ko ibi bifasha abarwayi barembye mu kwitabwaho neza.

Inyubako yo kwa muganga irimo amabara atandukanye, ikaba iriho ameza ateretseho mudasobwa, iyi nyubako ikaba ifite kandi intebe zabugenewe zicarwaho n'abarwayi bategerejwe kwakirwa n'abaganga, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye zirimo gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Inyubako yo kwa muganga isize amabara y'umuhondo ndetse n'ay'umweru, akaba ari inyubako igaragarwamo n'urujya'uruza rw'abarwayi baje kwivuza, hakaba harimo kandi abaganga b'inzobere mu by'ubuzima hamwe n'ibikoresho byifashishwa kwa muganga. Batanga serivisi zo gusuzuma n'izo kuvura ndetse n'izo gutanga imiti.

Ibitanda bigezweho byabugenewe byifashishwa mu kuryamishwaho abarwayi, mu gihe barimo guhabwa serivisi z'ubuvuzi mu cyumba cyahariwe indembe, ibi bitanda biri iruhande rw'imashini zifasha guhumeka abarwayi ndetse no kubafasha no gufasha abaganga kumenya uko, uko imibiri y'abo barwayi ihagaze.

Inyubako y'igorofa yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ikorerwamo n'ibitaro bizwi nko kwa Nyirinkwaya, bikaba biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka gasabo, iyi nyubako ikaba izengurutswe n'ibiti byiza by'imikindo ,ikaba ifite ndetse n'ubusitani bwiza hamwe na parking igaragarwamo n'imodokadoka zitandukanye z'abakozi b'abaganga bahakora ndetse n'abarwayi baje kwivuza, hakaba hatangirwamo serivisi zo gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye, ikaba ari inyubako y'igorofa yubatse igeretswe, ikaba ikoreramo ibitaro bya polyclinique de l'etoile. Ibi bitaro bikaba bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma ndetse no gutanga imiti. Imbere y'ibi bitaro hakaba hari parikingi iparitswemo imodoka zitandukanye.

Abarwayi baryamye ku dutanda two kwa muganga twabugenewe tujyanwaho n'abarwayi mu gihe bavurwa baba mubitaro, ibi bitanda bikaba bigaragara mu bitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi aho abarwayi bavurwa baba mu bitaro.

Inyubako ikorerwamo ibitaro ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'indabo na pasiparama, bikaba biriho amatara amurikira ibi bitaro mu gihe cya nijoro kandi hakaba harimo n'uduhanda dutandukanye tunyurwamo n'abarwayi baje kwivuriza muri ibi bitaro.

Inyubako yubakishijwe utubuye duhiye ikaba izengurutswe n'ubusitani bwiza cyane buririmo indabo ndetse na pasiparama, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibitaro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo; nko gusuzuma indwara ndetse no gutanga imiti.

Abaganga b'inzobere bakorera mu bitaro bya Butaro, aho bari bahagaze imbere y'icyapa cy'ibi bitaro, bavuye mu nama yari irimo kwiga ku buryo hakihutishwa iterambere ry'ibi bitaro ndetse no kwagura serivisi zitangwa n'ibi bitaro.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bicaye, umwe yicaye afite ikaramu ndetse n'ikayi, arimo kwandika undi ahagaze, hamwe n'undi urimo gushyira igipimo cyabugenewe gipima umuvuduko w'amaraso ku murwayi wicaye, hamwe n'icyuma cyabugenewe mu gupima indwara zitandukanye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba yubakishijwe udutafari duhiye, ikaba izengurutswe n'ubusitani bwiza hamwe n'amatara ayimurikira, iyi nyubako ikaba ikorerwamo n'ibitaro utanga serivisi z'ubuvuzi nko gusuzuma, kuvura ndetse no gutanga imiti.

Abarwayi bicaye kwa muganga, bambaye udupfukamunwa, bakaba bicaye basize intera hagati yabo, aho bari barimo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona virusi cyadutse ku isi, kigatera ibice bitandukanye ku isi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru, ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, ubwo bari imbere yabo hateretse icupa ririmo amazi, ndetse n'iririmo amavuta, hamwe n'amata, ubwo bari barimo gusuzuma ubuziranenge bw'ibi bikoresho, mu kugira ngo ababikoresha babe bizeye ubuziranenge bwabyo, barebe ko bitazabatera indwara.

Umuganga mu by'ingingo wambaye ikoti ry'umukara ry'amaboko maremare urimo kuvura umukinnyi wari wavunitse mu kiganza uyu muganga akaba ari inzobere mu by'ubuvuzi aho yari arimo avura abakinnyi b'ikipe bakina umukino w'amaboko.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, akaba yicaye ku gitanda ubwo yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri azamuye amaboko hejuru, imyitozo ngororamubiri ikaba ifasha umubiri gukomera no kugira imbaraga, bityo bikawufasha kwirinda indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri kagufi ndetse n'agakabutura gato hamwe n'inkweto, akaba ahagaze azamuye ukuguru kumwe; ari mu myitozo ngororamubiri; zimwe mu nama zigirwa n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima, bavuga ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri kugira ubudahangarwa.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, akaba afite telefone ku kaboko ndetse yambaye na ekuteri mu matwi. Iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri we kugira imbaraga ndetse no kwirinda indwara.

Umuganga w'inzobere mu by'ingingo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi hamwe n'inkweto z'umukara, arimo gufasha umusore wagize ikibazo cy'imvune wicaye ku ntebe ku kuguru kwe haziritse ibyuma bimufasha kurambura ivi bikamufasha gukira imvune yagize.

Ibitanda byabugenewe byifashishwa muri siporo ndetse n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kwiruka, mu guterura, no kubakora imyitozo ngororamubiri, bibafasha gukomeza imibiri yabo no kuyifasha kugira ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye.

Umuganga w'inzobere mu byo kuvura ingingo, wambaye ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko, wari urimo gushyira bande ku kaguru k'umusore wari wagize ikibazo k'imvune ku kaguru, ubwo yicaye ku gatanda ko kwa muganga, afashe akaguru yazamuye ipantaro ku kuguru bari barimo gushyiraho bande.

Umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'imyenda yo kwa muganga yabugenewe igizwe n'ipantaro ndende y'ubururu ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'ubururu, akaba arimo gufasha umurwayi urwaye imvune ndetse n'imikaya mu kumufasha kongera kwimenyereza kugenda mu kugira ngo akire imvune yagize.

Igikoresho cyo kwa muganga cyabugenewe, kigizwe n'utwuma tugifasha mu kusuzuma indwara zitandukanye zifata mu mutwe, iki cyuyuma kikaba gifasha gusuzuma abagize ibibazo bitandukanye by'uburwayi, kikaba gikoresha ikoranabuhanga rigezweho, bigifasha gufasha abaganga mu kumenya indwara umurwayi arwaye, mu buryo bwihuse.

Umusore urimo gukora imyitozo ngororamubiri akaba arimo kunanura afashe akaguru aho yambaye agakabutura gato k'umukara ndetse n'isengeri ,imyitozo ngororamubiri ikaba igirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka ukanywa amazi meza bifasha umubiri gukomera ndetse no kugira ubushobozi bwo guhangana n'indwara nyinshi.

Umukobwa wicaye ku gitanda, aho arimo kwipfuka ku ivi aho yari yakomeretse igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri, akaba yambaye umupira w'amaboko maremare, akaba yaravunikiye mu myitozo ngororamubiri.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima ufite igikoresho cyabugenewe gikonjesha kigafasha kuvura imvune arimo kugishyira ku ivi ry'umukinnyi wari uryamye ku gatanda kabugenewe, ubwo yari arimo kumuvura ku mvune yari amaze kugirira mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye wambaye ikabutura ndetse n'agasengeri, aho arambuye amaguru hasi ayafasheho yunamye, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, bazi ko gukora imyitozo ngororamubiri ari byiza bifasha umubiri gukomera, ndetse no kugira ubudahangarwa.

Umukobwa ufite isashi irimo ce cyangwa se barafu wayishyize ku rugingo rwari rwavunitse aho yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, izi barafu zikaba zitangwaho inama n'impuguke mu by'ubuzima mu kubafasha gukira imvune.

Ikirango kiriho icupa ry'amazi, rizengurutswe n'amazi aho Leta ishishikariza abaturage gukoresha amazi meza, asukuye ndetse no kunywa amazi kenshi gashoboka kuko bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza ndetse no gusukura imyanda iri mu mubiri.

Imboga n'imbuto biteretse ku meza harimo pome, amaronji ndetse n'imboga rwatsi hamwe na ji iri mu gikombe cy'icyuma, aho harimo n'udukoresho twabugenewe twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ibi ngibi bikaba bigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, ko kurya imboga n'imbuto, ugakora imyitozo ngororamubiri ari byiza ku buzima.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi urimo kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe, akaba yari avuye gukora imyitozo ngororamubiri, aho imufasha kugira ubuzima bwiza, igakomeza umubiri we, ikawuha n'ubudahangarwa bwo guhangana n'indwara zimwe na zimwe.

Umukobwa wambaye ipantaro ya shokora ndetse n'agasengeri ka shokora, akaba arimo myitozo ngororamubiri aho yambaye impeta ku rutoki akaba arimo nyubako ikorerwamo imyitozo ngoramubiri nk'uko bigirwamobuhanga mu by'ubuzima avuga ko gukora imyitozo ngoramubiri bifasha umubiri gukomera ndetse no kugira ubudahangarwa.

Igikoresho cyabugenewe cyahariwe gutwaraho umuntu ugize ikibazo mu gihe ajyanywe kwa muganga cyangwa se yajyanywe ahari buharibwe ubuvuzi, igikoresho bavuga ko gikoreshwa cyane mu gihe harimo kuba imikino bakaba bagitwaraho abakinnyi bagizeho ikibazo.

Icyapa cyanditseho sipoti medesine akaba ari icyapa kigaragaza akamaro k'ubuvuzi mu bantu bakora siporo zitandukanye cyangwa se imyitozo ngororamubiri itandukanye. Aho abaganga bifashishwa n'aba bakinnyi mu kubafasha kubavura indwara zitandukanye bagirira mu kibuga.

Umuganga w'ingingo ndetse n'imikaya ufashe balo ya siporo mu ntoki ndetse iruhande rwe hahagaze umugabo urimo kugendera mu kuma kabugenewe kifashishwa n'abagize ibibazo by'imvura.

Intebe nziza yabugenewe yegamirwaho ndetse ikanaramburwa ikaba iri munsi y'ibyuma byabugenewe byo kwa muganga byifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye zifata mu mubiri mu imbere hamwe n'intebe y'umuganga yicaraho mu gihe arimo gukoresha ibi ibyuma asuzuma umurwayi.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, afite igikoresho kirimo barafu zikonje zifashishwa mu kuvura imvune aho yari yageze imvune mu kuboko. Ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abavura abakinnyi ndetse n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, akaba ahagaze azamuye ukuguru kumwe, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri aho ayigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kwirinda indwara ndetse ugahora ukomeye.

Abasore babiri bambaye udupira tw'amaboko magufi tw'umweru hamwe n'amajire y'umutuku ariho ikimenyetso cy'umusaraba bakaba bateruye musore wari umaze kuvunikira mu myitozo ngororamubiri abo basore bakaba bambaye kandi uturindantoki tubafasha kwirinda kwanduzwa n'umurwayi bateruye.

Abakozi b'ibitaro byitiriwe uUmwami Faisal biherereye mu Mujyi wa Kigali mu Karere ka Gasabo, abari barimo kumanika ibirango by'ibi bitaro bagaragaza icyapa kigaragaza ibi bitaro bakaba bari bahagaze ku bikoresho by'abubatsi byabugenewe mu gukora iki gikorwa cyo gushyira ibimenyetso by'ibi bitaro hejuru.

Umuganga w'inzobere mu byo kuvura imvune aho yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare akaba ari gushyira udukoresho twabugenewe ku ivi ry'umuntu wari wavunitse aho utu dukoresho tumufasha gusubiza mu mwanya iyo mvune bityo agakira mu buryo bwihuse.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri, akaba yicaye hasi arambuye amaguru arimo gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kugira ubuzima bwiza, bigafasha umubiri we gukomera ndetse no kugira ubudahangarwa bwo kurwanya indwara zitandukanye harimo nka diyabete ndetse n'isukari nyinshi mu mubiri.

Umusore wambaye isengeri y'umukara uzamuye akaboko kamwe n'akandi akakanyuza hejuru y'umutwe, akandi kari mu mugongo, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko abagirwamo inama n'abahanga mu by'ubuzima, bavuga ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri kongera ubudahangarwa bikawurinda indwara.

Ibikoresho byifashisha mu kuvura abakinnyi aho harimo uturindantoki, amabande, ndetse n'imiti igabanya uburibwe, hamwe n'ihanagura ibisebe, ibikoresho bikaba byifashishwa mu kuvura abakinnyi bagize ibibazo by'imvune, cyangwa se n'ubundi burwayi mu kibuga.

Igitabo cyitwa Regenerative Injections in Sports Medicine akaba ari igitabo kirimo amahame, amabwiriza ndetse n'inama ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri n'uburyo iyi myitozo ngororamubiri ifasha umubiri wacu, iki gitabo kikaba cyaranditswe n'abahanga mu by'ubuzima.

Umusore wambaye isengeri y'umweru, akaba arimo kunanura amaboko, aho arimo gukora imyitozo ngororamubiri, nk'uko abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko imyitozo ngorora mubiri ifasha umubiri gukomera, ndetse ikawongerera ubudahangarwa ugahangana n'indwara.

Umusore wambaye agakabutura kagufi k'umukara ndetse n'isengeri y'umukara, urimo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka ari byiza bifasha umubiri gukomera bikawurinda indwara.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bashyize akana ku gitanda cyabugenewe cyo kwa muganga, aho barimo kugakingira indwara y'iseru bigafasha gukorana ubuzima bwiza ka batarwaragurika, imwe muri gahunda yashyizweho na leta ishishikariza ababyeyi gukingiza abana babo kugira bakure neza.

Umusore n'inkumi bafashe amacupa mu ntoki bakaba bambaye udukabutura tugufi tw'umukara aho bari barimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse banywa n'amazi meza, iyingiyi akaba ari inama itangwa n'impuguke mu by'ubuzima zivuga ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukora neza ukikirinda n'indwara.

Umusore wambaye ikabutura y'umweru ngufi akaba yambaye inkweto zifunze ndetse n'amasogisi y'umukara akaba asutamye, arambuye ukuboko kumwe akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri nk'uko abigirwamo inama n'abahanga mu by'ubuzima bavuga ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukomera ndetse bikongerera ubudahangarwa.

Umusore wambaye isengeri ndetse n'ikabutura ngufi akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, iyi myitozo ngororamubiri ikaba ari intambwe itangwa n'impuguke mu by'ubuzima zivugaho gukora imyitozo ngororamubiri uhozaho ndetse ukanywamo n'amazi meza bifasha umubiri kugira imbaraga no kwirinda indwara.

Ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga biteretse ku meza, hateretseho n'igikoresho cyifashishwa n'abanyeshuri biga iby'ubuvuzi mu kubafasha kumenyera ndetse no kugira ubumenyi butandukanye ku mivurire y'indwara zitandukanye. Ibi bikoresho bikaba bifasha cyane abanyeshuri kuko bibafasha kunguka ubumenyi mu buryo bwihuse.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umukara, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri asimbuka akandagira ku gakoresho kabugenewe, kifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ,imyitozo ngororamubiri ikaba igirwamo inama n'abaganga b'inzobere mu by'ubuzima kuko ifasha umubiri kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, ndetse akaba yambaye kuteri mu matwi, akaba afite icupa ry'amazi mu kiganza, ubwo yari arimo kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe, akaba yari avuye mu myitozo ngororamubiri nk'uko abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka ukanywa amazi meza, bifasha umubiri kongerara imbaraga ndetse n'ubudahangarwa.

Umugabo wambaye umupira w'umukara uryamye ku gatebe urimo kuvurwa n'abaganga b'inzobere mu bijyanye n'inkingo akaba akora imyitozo ngororamubiri arimo kunanurwa n'abaganga kugira ngo bamumufashe kugira ubuzima bwiza binyuze mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye agaseri kagufi k'umutuku, akaba yambaye isaha ku kaboko ndetse na ekuteri mu matwi, ubwo yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri zimwe mu nama zigibwa n'impuguke mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri gukura neza, ugakora neza bityo ukirinda n'indwara.

Urujya n'uruza rw'abantu rwahuriye mu kibuga gikinirwamo umukino wa basiketi, aho higanjemo abana ndetse n'urubyiruko barimo gukora imyitozo ngororamubiri, imbere yabo hahagaze inzobere mu by'ubuzima, irimo kubakoresha imyitozo ngororamubiri ibafasha kuvura umubiri ndetse no kuwukomeza.

Ibitanda byabugenewe batwararaho abakinnyi bavunitse igihe bavunikiye mu kibuga, mu rwego rwo kubakura mu kibuga babageze hanze y'ikibuga aho bahererwa serivisi z'ubuvuzi ku mvune baba bagize, ibi bikoresho bikaba byifashishwa mu mikino itandukanye harimo nk'umupira w'amaguru ndetse n'imipira y'amaboko y'intoki.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru ndende ndetse n'agasengeri k'umweru, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho iyi myitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukomera ndetse no kugira ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi akaba ari kwimena amazi meza mu maso akoresheje icupa ryabugenewe aho yari avuye gukora imyitozo ngororamubiri yagirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko iyi myitozo ngororamubiri ifasha umubiri gukora neza ndetse ukagira imbaraga.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi wambaye isaha ku kuboko urimo kunywa amazi meza akoresheje icupa, ubwo yari avuye mu imyitozo ngororamubiri nkuko abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zivugaho gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka mu buryo buhoraho bifasha kugira ubuzima bwiza ndetse bikongerera umubiri ubudahangarwa.

Umukobwa wambaye isengeri ufite imisatsi miremire urimo kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe akaba yaravuye mu myitozo ngororamubiri ;aho izi nama zigirwa n'abakozi bakora mu by'ubuvuzi babahanga mu by'ubuzima Aho bagira abantu inama gukora imyitozo ngororamubiri ko bifasha umubiri kugira ubudahangarwa.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri aryamye hasi yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, aho imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri we gukomera ndetse no kugira ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye.

Umusore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, wambaye agakabutura kagufi ndetse n'amasogisi maremare, akaba yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho arimo kunanurwa n'umuganga wabigize umwuga w'inzobere, ukora umwuga wo kuvura abakinnyi.

Inzobere mu by'ubuvuzi aho zari zirimo gusura ibitaro byo mu karere ka Huye, bivurirwamo n'abakinnyi, aho hari harimo umugabo umugabo wavunitse ufite ibyuma bifashe mu kaguru mu kugafasha kongera gukira, aho bikorwa n'inzobere mu by'ubuvuzi.

Igikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye z'abarwayi, iki gikoresho kikaba gikoreshwa n'inzobere mu by'ubuvuzi z'abaganga, aho zivuga ko kibafasha gusuzuma bakamenya indwara abarwayi barwaye mu buryo bwihuse, bityo bakavurwa neza hakiri kare.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru hamwe n'umugabo wambaye ikoti, akaba ari umuyobozi w'ibitaro, ubwo bari bari kuzenguruka ibyumba birwariyemo n'abarwayi, mu kubaza isura, bareba uko bahabwa serivisi z'ubuvuzi, mu rwe rwo kwihutisha ndetse no gufasha abaganga gutanga serivisi nziza.

Umusore wambaye isengeri y'umweru wifashe ku mutwe, amaboko yayanyujije inyuma, akaba yambaye isaha, ubwo yari mu myitozo ngororamubiri, ahagaze, imyitozo ngoramubiri akaba ayigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka, ifasha umubiri gukomera no kugira ubudahangarwa.

Inkoni zabugenewe, zifashishwa n'abagize ibibazo byo kuvunika imvune zitandukanye, aho zitangwa n'abaganga mu gufasha abantu kugenda bazicumbagiriraho, bikabafasha kugenda mu gihe bavunitse.

Ikirahuri cy'amazi giteretse ku meza aho kirimo gusukwamo amazi yo kunyobwa, akaba ari amazi meza anyobwa n'abantu, nk'uko babigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko amazi ari meza, ari ingenzi ku mubiri w'umuntu.

Igikapu cyabugenewe kibikwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abakinnyi harimo abande, imiti igabanya uburibwe, pomade hamwe n'ibipima ubushyuhe ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abaganga bavura abakinnyi.

Umusore wambaye ikabutura ngufi y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko maremare, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho apfukamishije ivi rimwe, irindi arifasheho n'amaboko yombi, iyi myitozo ngororamubiri ikaba ari myiza ku mubiri w'umuntu, kuko iwufasha kugira ubudahangarwa.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima, wambaye itaburiya y'umweru, ndetse ahagaze imbere y'abandi baganga bicaye, ubwo bari barimo kwiga ku kibazo cy'umurwayi wari weje kwivuza agewe serivisi zo kubagwa, bityo bakabanza bakiga ku kibazo cye kugira ngo babone uko bamuvura neza babanje kungurana ibitekerezo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo amaronji ,imeneke, imyembe ndetse n'inanasi, aho biri ku meza hamwe n'imidari ndetse n' ibinini. Ibi bikaba bishishikariza abakora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo yuzuye bagafatira imiti ku gihe kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza

Umuganga w'inzobere, wambaye imyenda y'ubururu igizwe n'ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko magufi, akaba ari iruhande rw'imeza, iriho ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, byifashishwa mu gusuzuma amaso, aho arimo gusuzuma amaso y'akana gato, gateruwe na mama wako, aho arimo kukarebera niba nta ndwara z'amaso gafite.

Agakoresho kabugenewe kazwi nka burankare kifashishwa mu gutwara indembe ndetse n'abavunitse badashoboye kugenda, kakaba kagaragara kwa muganga ndetse no ku bibuga bikinirwaho imyitozo ngororamubiri kuko bifasha abantu bagize ibibazo by'imvune ndetse n'abarembye.

Umuganga urimo gupima umugongo w'umurwayi uryamye ku gatebe, akaba yiyorosha ishuka y'umweru, aho hari gukoreshwa imashini zabugenewe ziri iruhande rw'igitanda umurwayi aryamyeho, umuganga akaba yambaye udupfukantoki ndetse n'agapfukamuwa.

Igikapu gitukura kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, aho harimo amabande, uturindantoki ndetse n'uturindamunwa hamwe n'amasize yifashishwa mu gukata ibitambara, hamwe n'imiti yifashishwa mu kuvura abakora imyitozo ngororamubiri hamwe n'abakinnyi.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, akaba mu ivi ry'umukinnyi wari wavunitse, aho yari arimo kugorora iri vi rye kugira rigaruke mu murongo, uyu muganga akaba akora akazi ko kuvura abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi akaba yambaye na ekuteri mu matwi arikunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe, akaba yaravuye gukora imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo guhangana n'indwara zimwe na zimwe.

Abasore bambaye amakabutura, barimo kwiruka bakora imyitozo ngororamubiri izwi nka marato, aho bari barimo gukora imyitozo kugira ngo bagire ubuzima bwiza kuko abahanga mu by'ubuzima bavuga ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira imbaraga ndetse bikawurinda kurwaragurika.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru ndende, akaba yambaye n'agasengero k'umweru aho yicaye hasi yarambuwe ukuguru kumwe, ukundi guhinnye yihengetse, aho yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri; bimwe mu bigirwamo inama n'abahanga mu by'ubuzima, bavuga ko imyitozo ngororamubiri, ifasha umubiri gukomera, ikawufasha kugira ubudahangarwa.

Ababa mu itsinda rya croixrouge rizwiho gutanga ubutabazi bw'ibanze ubwo bari barimo guhugurwa, ku munsi wahariwe ubutabazi bw'ibanze bafashwa kumenya byinshi ku byo wakora mu gihe ukeneye gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Umuganga wicaye ku ntebe y'umweru imbere hateretse mudasobwa yifashishwa n'ibyuma byabugenewe, bisuzuma indwara zitandukanye z'umubiri mu imbere, aho yari arimo kureba umubiri w'umurwayi wari uryamye ku gatanda ahabugenewe.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba afashe mu kuboko k'umurwayi uteruye agakoresho kabugenewe, kifashishwa mu kunanura imikaya, akaba uyu murwayi yicaye mu ntebe yo kwa muganga yabugenewe, yicarwamo n'abarwayi, barimo gukoreshwa imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bimufashe kuvurwa imikaya.

Umusore wambaye agakabutura k'umukara ndetse n'isengeri y'umukara akaba yazamuye akaguru ke kamwe hejuru akandi kari hasi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri igirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima mu gufasha umubiri kugira imbaraga ndetse no kwirinda indwara za hato na hato.

Umukobwa wambaye ipantaro imufashe hamwe n'agasengeri, akaba arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aho igirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima, zivuga ko gukora imyitozo mu buryo buhoraho ndetse ukanywa amazi meza, bifasha umubiri gukomera ndetse no guhangana n'indwara zimwe na zimwe.

Ibikoresho by'imipira yifashishwa mu gukina harimo umupira w’amaguru umupira wa basikete hamwe n'umupira wa rugubi hamwe n’uwa tenisi ndetse n'ingofero yambarwa n’abakina iyi mikino ibi bikoresho bikaba bigaragazwa na minisiteri y'ubuzima ishishikariza abantu gukina imikino bakora siporo nk'imyitozo ngororamubiri kugira ngo ifashe imibiri yabo kwirinda indwara no kugira ubudahangarwa.

Umurwayi uryamye ku gatanda k'icyuma cyabugenewe cyifashishwa mu gupima indwara zifata mu mubiri mo imbere kiri mu cyumba cyo kwa muganga aho gisuzuma indwara z'ubwoko butandukanye hifashishijwe ikoranabuhanga.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi bavura abakinnyi aho bari bapfukamye bakikije umukinnyi wari umaze kugira ikibazo cy'imvune mu kaguru, aho bari barimo kumuha serivisi z'ubuvuzi mu kumufasha kumugabanyiriza uburibwe bakoresheje ibikoresho byabugenewe.

Stopain akaba ari umuti ugabanya uburibwe ufatwa n'abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abakinnyi b'imikino itandukanye, aho bibafasha kubagabanyiriza uburibwe igihe bavunitse cyangwa se bagiriye ibindi bibazo mu kibuga.

Icyapa kiriho umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri hamwe n'ikiganza cye gutanga ubutabazi bw'ibanze hamwe n'icyapa cy'isaraba kiri mu ibara ry'umutuku hakaba ari icyapa cy'ikigo gishinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze cyane cyane abavura abakinnyi bakora imyitozo ngororamubiri.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku, kikaba ari igikapu kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye byifashishwa mu kuvura abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abakina, imikino y'amaguru n'indi y'amaboko itandukanye harimo nka volleyball ndetse na basket, ibi bikoresho bikaba birimo imiti igabanya uburibwe, bande zo kuzirika ku mvune ndetse n'amasizo yo gukata amabande hamwe n'ibinini bigabanya uburibwe.

Agakoresho kabugenewe kwambarwa mu kaguru ku ivi aho gafasha umuntu wagize ikibazo cy'imvune mu kumurinda kubabara kandi kakamufasha gukira vuba kuko kaba kasubije mu mwanya akaguru kasanzwemo mbere yo kuvunika bityo bikagafasha gukira vuba.

Ikirahuri cy'amazi gitetse ku meza hamwe n'icupa ririmo amazi arimo gusukwa mu kirahuri, aya mazi akaba agiye kunyobwa n'uwari uvuye mu myitozo ngorora mubiri nk'uko bigirwamo inama n'abaganga ko kunywa amazi meza kenshi gashoboka no gukora imyitozo ngororamubiri, bifasha umubiri gukomera no kugira ubudahangarwa.

Umuti wa sitopu peyini uri mu gicupa kirekire cy'umweru hejuru gifite agakoresho ko gukandaho ugapuriza uyu muti ukaba wifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri hamwe n'abakina imikino itandukanye n'umupira w'amaguru mu kubagabanyiriza ububabare igihe bavunitse.

Umukobwa wambaye ipantaro ndende hamwe n'agasengeri, hamwe n'inkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru. Akaba yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri aho yazamuye akaguru kamwe agafashe, ukundi kuboko kuri imbere. Imyitozo ngororamubiri akaba ayigirwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka ukabona amazi meza bifasha umubiri kugira ubudahangarwa.

Umusore wo gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isenge y'umweru, ubwo arimo gusimbuka akora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hakaba hicaye umudamu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi, bakaba bari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye ikabutura ngufi ndetse n'isengeri akaba yicaye hasi yarambuye amaguru afashe ku maguru, aho yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri agirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugira imbaraga ndetse n'ubudahangarwa.

Imboga n'imbuto byo mu bwoko butandukanye harimo nka avoka, inyanya, pome ndetse na karoti bifashwe mu kiganza n'umuganga w'inzobere mu bijyanye n'imirire, akaba agira inama abakora imyitozo ngororamubiri kurya indyo yiganjemo imboga n'imbuto bifasha umubiri wabo kugarura imbaraga no kugira ubuzima bwiza.

Igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuvura imvune zitandukanye zo ku maguru, iki gikoresho kikaba gitangirwa no kwa muganga, ni ukugira ngo hafashwe abagize imvune ku maguru bibafashe kuzishyira ku murongo neza bityo bakire, bagire ubuzima bwiza.

Umubyeyi wambaye ibitenge, wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, akaba yicaye iruhande rw'akana ke kambaye ikanzu y'umweru, karimo guseka, aho kari kaje kuvuzwa muri ibi bitaro, gahabwa serivise z'ubuvuzi.

Ibyuma byabugenewe bigaragara kwa muganga bikaba ari ibyuma byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura indwara zitandukanye, zikaba zikoreshwa n'inzobere mu by'ubuzima zisuzuma abarwayi baba baje kwa muganga kugira ngo baterwe neza kandi bahabwe ubuvuzi bwihuse.

Urubuga rwo kuri murandasi rugaragarwaho n'amakuru ndetse n'inama zitandukanye ku byerekeye imyitozo ngororamubiri, aho bagaragaza ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri ku buryo buhoraho bavuga ko bifasha gutwika ibinure, kugabanya stress zo mu mutwe ndetse no gufasha igogora bigatuma ubuzima bwawe bugenda neza.

Umukobwa wambaye agasengeri ndetse akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki, ubwo yari arimo kunywa amazi meza akoresheje iri cupa ubwo yari avuye mu myitozo ngororamubiri, nk'uko abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi gashoboka ndetse ukanywa n'amazi meza, bifasha umubiri kugira imbaraga ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri ku meza ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri hamwe n'icupa ry'amazi bikaba biri mu kirango cyashyizwe n'impuguke mu by'imirire zivuga ko gukora siporo imyitozo ngororamubiri ukanywa amazi meza ahagije ukarya n'imboga n'imbuto bifasha umubiri gukomera ndetse bikawurinda indwara.

Umusore wambaye ipantaro yumukara ndetse nagapira kamaboko magufi k'umukara, ndetse n'inkweto z'umukara, imbere ye hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, bakaba bari mu myitozo ngororamubiri mu cyumba cyagenewe gukoreramo iyi imyitozo ngororamubiri, aho imyitozo ngororamubiri ibafasha kugira umubiri ukomeye ndetse ufite ubudahangarwa, bikabarinda indwara zitandukanye.

Abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu bahuriye ku cyanya cyahariwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri aho barimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bafashe imibiri yabo kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igikombe gikozwe mu kirahuri kiri gusukwamo amazi n'ijagi na yo ikozwe mu kirahuri ifashweho n'ikiganza, bikaba bishishikariza abantu kunywa amazi meza igihe kinini gishoboka, kenshi gashoboka mu gufasha umubiri wabo kugira ubuzima bwiza.

Icyuma cyo kwa muganga cyabugenewe cyifashishwa mu gusuzuma, iruhande rwacyo hakakaba hari akabati keza kagenewe kubikwamo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gusuzuma, iki cyuma kikaba cyifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye zitera indwara mu mubiri.

Umuganga wambaye imyenda yo kwa muganga yabugenewe y'abaganga igezweho, yambaye ishati y'amashati y'amaboko magufi, akaba afite mu ijosi agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima utera, akaba arimo kwambara agapfukamunwa, akaba yambaye n'uturindantoki tw'umweru, imbereye ku meza hakaba hateretse mudasobwa ndetse n'ibitabo byandikwamo abarwayi.

Agakoresho kabugenewe kabikwamo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura abakinyi, ndetse n'abakora imyitozo ngororamubiri aho harimo imiti bagabanyiriza ububabare bande zibafasha kuzirika ahavunitse, ndetse na pomade zo kubamasa aho bavunitse.

Umukobwa urimo kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe akaba yaravuye mu myitozo ngororamubiri aho agirwa inama n'abaganga ko gukora imyitozo ngororamubiri ari byiza ku mubiri kuko bifasha kugira ubudahangarwa ndetse no gukomera ukabasha guhangana n'indwara zitandukanye.

Ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu kuvura harimo, inshinge, ibipimo bipima ubushyuhe, uturindantoki, ndetse n'ibipfuko, hamwe n'imiti y'ubwoko butandukanye, hamwe n'amatoroshi, ndetse n'ibikoresho bipima imivuduko y'amaraso, hamwe n'imikasi ikata ibitambaro bitandukanye byifashishwa kwa muganga, bikaba biri ku cyapa kigaragaza ibikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze.

Umuganga, aho yicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma amaso. Uyu muganga akaba arimo gusuzuma amaso y'akana gato kicaye iruhande rwe, aho arimo kureba niba nta bibazo by'amaso gafite.

Umugore wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru akaba yambaye ishanete mu ijosi ndetse akaba yambaye impeta mu rutoki akaba yashyize agatambaro karimo barafu ku rugingo rw'akaboko aho yari yavunitse akavuga ko izi barafu zifasha mu kugabanya ububabare.

Umuganga w'inzobere mu kuvura imvune z'ubwoko butandukanye urimo gushyira ibitambaro byabugenewe ku biganza by'umukobwa wicaye ku gatebe kabugenewe ko kwa muganga kavurirwaho abarwayi arimo kumufasha gushyira mu buryo neza ukuboko kwe kugira ngo imvune ye ikire.

Ibikoresho byabugenewe byambarwa n'abari muri siporo kugira ngo birinde gukonje intoki, ibi bikoresho bikaba byambarwa mu kiganza aho birinda abakora imyitozo ngororamubiri mu gitondo cyangwa mu gihe hakonje. Bikabafasha gukora imyitozo neza nta kibazo bafite.

Umuganga w'inzobere mu by'ingingo aho yari arimo kugorora akaguru k'umurwayi uryamye ku gitanda cyo kwa muganga cyabugenewe, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'amaboko maremare, ubwo yari yavunitse mu kaguru ke k'ibumoso, muganga arimo ku gakurura kugira ngo amuvure.

Umusore wambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi ndetse n'ishanete mu ijosi akaba arimo kunywa amazi meza akoresheje icupa aho yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri imufasha umubiri we kugira ubuzima bwiza bikamufasha gukomera ndetse no kwirinda indwara za hato na hato.

Umusore n'inkumi bambaye udukabutura tugufi tw'umukara ndetse n'amasengeri ubwo bari barimo gukora imyitozo ngororamubiri, imwe mu nama igirwa n'abaganga bivuga ko gukora imyitozo ngororamubiri ukanywa amazi meza bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza.

Imbangukiragutabara irimo kugendera mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani bwiza, burimo pasiparama ndetse n'indabo, buherereye mu bitaro aho iyi mbangukiragutabara yari izanye umurwayi, wari urembye cyane kugira ngo ahabwe serivisi z'ubuvuzi byihuse.

Umukobwa washyize barafu iri mu isashi ku kaboko ke ku ngingo aho yari yavunitse igihe yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri, impuguke mu by'ubuzima zivuga ko gukoresha ubu buryo bituma umuntu agabanyirizwa uburibwe kandi imvune ye igakira mu buryo bwihuse.

Igitanda cyo kwa muganga kiriho matola ishashweho amashuka y'ubururu, kikaba ari igitanda kirimo imashini zabugenewe zikoresha ikoranabuhanga rihambaye rigezweho byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse zikanazisuzuma bikaba bifasha abaganga mu gutanga serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwihuse.

Sikini oyiri, aya mavuta akaba ari mu gacupa keza k'ubururu, akaba akorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba aho aya mavuta afasha kuvura indwara zitandukanye z'uruhu ndetse no kurinda uruhu gukanyara, bigatuma rugira ubuzima bwiza.

Umudamu wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'umupira w'umukara, aho yari afashe ikimera cy'umuravumba agisoromye mu murima w'ubusitani cyari gitewemo, uyu muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara y'ibicurane ndetse n'inkorora.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi arandaranze mu kirere, kikaba kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'inkorora, ndetse n'ibicurane. Aya mababi akaba asoromwa agasekurwa, umushongi wayo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agasekururo gakozwe mu buryo bugezweho, karimo ibimera bitandukanye imbere yako hateretse amacupa abiri mato arimo imiti itandukanye, iyi miti ikaba ikorwa hakoreshejwe ibimera aho bifato bigasekurwa, bigakamurwa umutobe wabyo, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera byo ku bwoko butandukanye bipanze bikurikiranye, ibi bimera bikaba bihingwa mu busitani, bikanikwa, bigakoreshwa mu gukora imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zifata mu mubiri.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera bitandukanye, ikaba ipanze mu tu etajeri twiza cyane two dusizwe amabara y'umweru twabugenewe, iyi miti yose ikaba ikorwa hakoreshejwe ibimera gakondo, aho ifasha kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Icyatsi gifite amababi y'umukara, giteye mu busitani, kikaba kirandaranda, iki cyatsi gikorwamo imiti itandukanye, aho gifatwa kigasekurwa, kigakamurwamo umutobe wacyo, ugashyirwa mu bikoresho bitandukanye, aho uwo mushongi wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye harimo igisura kiri mu icupa, ndetse n'indi miti iva mu miravumba iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, iba iiteretse ku meza, iyi miti ikaba iva mu bika karubamba ndetse n'imiravumba, bikaba ari ibimera byifashishwa mu gukora imiti.

Amavuta ya Arowe, ndetse n'andi akorwa mu bimera bitandukanye, cyane cyane ibikakarubamba ndetse n'umuravumba. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'ibishishi byo ku ruhu, ndetse n'inkorora. Iyi miti akaba ari myiza cyane kuko iba ifite umwimerere.

Umuti wa serumu ukorwa mu bimera bitandukanye, harimo nk'igikakarubamba ndetse n'urubuto rwa voka, ibi bimera bikaba byifashishwa mu gukora uyu muti uvura indwara zitandukanye z'uruhu.

Igihingwa gifite amababi y'icyatsi gitewe mu busitani buterwamo ibimera bitandukanye bikorwamo imiti y'ubwoko butandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa mu kuvura indwara z'umuvuduko w'amaraso, ibicurane ndetse n'inkorora, bikozwe mu miti ivuye muri ibi bimera.

Amavuta ya fariva arowe ari mu gacupa k'umweru akaba yifashishwa mu kuvura indwara zauru zitandukanye ndetse no kururinda kurwara abaganga bavuga ko aya mavuta afasha uruhu gutuma ruhora rutoshye rukarinda indwara.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bitewe mu busitani, gusa hakaba hari umugabo urimo gusarura ibimera bitandukanye kugira ngo ajye kubikoramo imiti, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Umucuruzi ucuruza imiti gakondo ifunze muri amverope ndetse n'ibicupa, hamwe n'andi macupa maremare yose arimo imiti gakondo ikomoka ku bimera, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Oliva b hani akaba ari ubuki bwiza bukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye ,ubu buki bukaba buvangwa n'ibimera bitandukanye harimo, nk'imiravumba, imibirizi ndetse n'ibikakarubamba mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, kikaba giteye mu busitani, iruhande rwacyo hari inzu, kikaba kifashishwa nk'umuti gakondo, aho gifatwa kigasegurwa, umutobe wacyo ugakamurwa, ukifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye, harimo ibicurane ndetse n'inkorora.

Ibimera bitandukanye bifite amababi y'icyatsi ndetse n'imboga zitandukanye zifashishwa n'abakora imiti gakondo, aho bifashisha ibi bihingwa mu gukora iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Icyapa cy'amavuta ya arowe sayansi kanso foreva, akaba ari amavuta akorwa mu bimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba, bikaba bikoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye ndetse no kurinda uruhu aho aya amavuta iherezo atuma uruhu ruhora ruhehereye.

Ikimera gifite uturabyo tw'umweru ndetse n'amababi y'icyatsi kikaba giteye mu busitani, iki ikimera kikaba kivamo imiti myinshi itandukanye ikoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi, harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane, iki kimera kirafatwa kigasekurwa umutobe wacyo ugashyirwa mu ducupa twabigenewe, ugakoreshwa nk'umuti.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kirandaranda kikaba giteye mu busitani buhingwamo ibimera by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo ibi bimera bikaba bifatwa bigasekurwa mu isekuru aho umutobe wabyo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amacupa y'ubwoko butandukanye, arimo imiti gakondo ikorwa hifashishijwe ibimera, aho iruhande rwabo hahagaze abaganga bakoresha iyi imiti mu kuvura indwara zitandukanye, iyi miti ikaba yose ikorwa hakoreshejwe ibimera gakondo.

Isekuru yabugenewe yifashishwa mu gukora imiti iva mu byatsi gakondo hamwe n'ibyatsi biteretse ku gasahani hamwe n'iyo sekuru bikikijwe n'ibindi bimera byifashishwa mu gukora iyi miti hamwe n'icupa ry'ikirahure risukwamo iyi miti iyimaze gusekurwa.

Amavuta ya Alowe Vera Jeri, akaba ari amavuta ateretse ku meza hamwe n'ibindi binini biri mu gakarito k'icyatsi, n'agafite amabara y'umweru, iyi miti yose ikaba ikorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye bihingwa mu busitani harimo nk'ibikakarubamba ndetse n'imibirizi.

Ikimera cy'umuravumba giteye mu busitani iki kimera kikaba gifite amababuye y'icyatsi kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'ibicurane ndetse n'inkorora; aya mababi y'iki kimera arafatwa agasekurwa agakamurwa umushonge wayo ugafashishwa mu kuvura izo ndwara.

Imiti ya kifukupusi na nibusate hamwe na jofe, hamwe n'imyembe, hamwe n'imineke, ndetse n'inanasi biteretse ku meza, bikaba ari ibimera ndetse n'imiti iva mu bimera bishishikarizwa kuribwa n'abantu bose, kugira ngo bibafashe kubona imyunyungugu ikenewe mu mubiri.

Amavuta ya foriver cprece hamwe n'aya arowe avakado faceboadisol akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu aho aya mavuta akorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba ndetse n'imbuto za avoka aya mavuta abahanga mu by'imiti bakaba bavuga ko ari meza kuko badahumanya uruhu.

Tangawizi hamwe n'ibyatsi by'umuravumba bivamo imiti gakondo biteretse ku meza aho iruhande rwabyo hari igikombe cy'ikirahure cyabugenewe hamwe n'ikiyiko birimo gukorerwamo imiti gakondo hifashishijwe ibimera by'amoko atandukanye.

Ikimera cy'umuravumba kikaba ari ikimera gifite amababi y'icyatsi giteye mu busitani ,iki kimera kikaba kifashishwa mu gukora imiti gakondo y'ubwoko butandukanye ivura indwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora. Iki kimera kikaba gifatwa kikotswa kikaribwa kugira ngo kivure inkorora cyangwa se kigasekurwa hakavamo umutobe wacyo akaba ariwo ukoreshwa kuvurira izindi ndwara

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kikaba gite mu busitani buhingwamo ibimera bitandukanye bivamo imiti, iki kimera kikaba gifatwa kigasoromwa kigasekurwa umushongi wacyo ugashyirwa mu bikoresho byabugenewe, ugakoreshwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye.

Agasekuro gakozwe mu biti, gateretse iruhande rw'imbuto z'ubwoko butandukanye, izi mbuto zikaba zisoromwa ku biti bihingwa mu busitani bivamo imiti itandukanye ya Kinyarwanda, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'amahumane ndetse n'inkorora.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, hakaba harimo umuravumba ndetse n'ibinyabarasanya, ibi byatsi bikaba bihingwa mu busitani, aho hari n'umugabo ufashe ku kimera kimwe cy'ipapayi cyifashishwa nacyo mu gukora imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara.

Amavuta ya Forever Aloe Vera Gel akaba ari amavuta akorwa mu gikakarubamba kiba kivanzwe n'ibindi bimera, aya mavuta akaba akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu ndetse no kurinda uruhu kuba rwarwara bikarufasha guhora rutoshye.

Ikimera cya tangawizi giteretse ku meza hamwe n'urubuto rw'ironji bikaba biri ku isahani iriho n'itasi irimo ji, aho byari birimo kunyobwa n'umuntu wari uvuye muri siporo, ibi bimera bikaba bifasha umubiri kugira ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye.

Umuganga uvurira mu bitaro bya Huye biherereye mu karere ka Huye bizwi nka Kabutare, akaba arimo gusuzuma abarwayi, akoresheje raboratori zo kwa muganga, aho avanga imiti itandukanye mu kumenya iyi indwara abarwayi barwaye.

Amavuta ya foreva role jeri akaba akorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye ndetse n'imbuto z'ubwoko butandukanye harimo nk'amacunga ndetse n'ibikakarubamba, akaba yifashisha mu kuvura indwara z'uruhu ndetse no kururinda kugira indwara zitandukanye, akayirufasha guhora ruhehereye.

Ibimera bitandukanye bihingwa mu busitani byifashishwa mu gukora imiti, ibi bimera bikaba bikaba bifatwa bigasekurwa umushongi wabyo ukifashishwa mu gukora imiti y'ubwoko butandukanye, aho abaganga bakoresha iyi miti bavura indwara zitandukanye harimo: ibicurane, inkorora, ndetse n'ubushita.

Amavuta y'ubwoko butandukanye harimo nka Aloe Berry Nectar ndetse n'aya Forever Aloe akaba ari amavuta yose akorwa mu bimera bitandukanye aho haba higanjemo ikimera cy'igikakarubamba cyifashishwa mu gukora amavuta, imiti yo mu menyo ndetse n'amasabune yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye harimo nk'ibikakarubamba, ibifuranindi inyabarasanya ndetse n'umugombe byifashishwa mu gukora imiti itandukanye. Iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo n'inkorora ibiheri ndetse n'ibindi.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kirandaranda kikaba giteye mu busitani buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, aho ibi bimera bifatwa bigasoromwa amababi yabyo agasekurwa, agakamurwa, imitobe yabyo ikifashishwa mu kuvura indwara zirimo ibicurane ndetse n'inkorora.

Arowe vera jeri, aya akaba ari amavuta meza akorwa mugikakarubamba ndetse n'urubuto rwa voka, akaba afite n'isabune ikorwa mugikakarubamba ndetse na voka bikaba bifasha uruhu kugira ubuzima bwiza, aho birufasha kururinda indwara zitandukanye zifata uruhu.

Imiti ikozwe mu bimera bitandukanye akaba ari imiti iri mu ducupa tw'umweru dufunze neza, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, iyi miti ika ikorwa mu bimera birimo igikakabamba, umubiri, ikaba isekurwa imitobe yabyo igakorwamo imiti igashyirwa muri utwo ducupa igakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Alowe jojoba shampo akaba ari umuti wifashishwa mu gusigwa mu musatsi ndetse no koga mu mutwe, aho uyu muti wifashishwa mu kwica udukoko twinshi no kurwanya indwara zifata mu musatsi, uyu muti kandi ukaba ukorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye harimo nk'igikakarumba.

Abaturage barimo kugenda bagana mu busitani buhinzwemo ibimera bitandukanye, aho bari barimo gushaka ibimera byihariye byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Oriva handi sanitayiza, akaba ari umuti wica udukoko mu ntoki, aho uyu muti ukorwa mu bimera bitandukanye birimo igikarubamba, aho kifashishwa mu kwica mikorobe ziba ziri mu ntoki, uyu muti ukaba ari ingenzi cyane kuko ufasha mu isukura ry'intoki.

Ikimera cy'umuravumba kikaba ari ikimera gihingwa mu busitani butandukanye, aho cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ifu n ibicurane ndetse n'inkorora, aho iki kimera gifatwa kigasekurwa, umutobe wacyo ugakamurwa ukifashishwa mu kuvura izo ndwara.

Ibirahuri birimo amazi arimo imiti gakondo y'ibimera, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Ibi bihingwa bikaba bihingwa mu busitani buhingwamo ibimera bivamo imiti, bigashyirwa mu mazi bigakamurwa bigakoreshwa nk'imiti ivura indwara zitandukanye.

Eritoromisine akaba ari umuti ukorwa mu bimera bitandukanye, uyu muti ugafasha mu kuvura indwara zifasha indwara zifata mu buhumekero, aho ibi bihingwa bifatwa bigasekurwa bikanikwa bigakorwamo iyi miti myiza cyane ivura izi mikorobe.

Imiti ya nacura korosho, ikaba ari miti ikorwa n'uruganda rwa Ariyanse Gorobo, iyi miti ikaba ikorwa hakoreshejwe ibimera by'ubwoko butandukanye, harimo nk'ibikakarubamba imibirizi, imiravumba ndetse n'ibindi bitandukanye, bigafasha mu kuvura indwara z'amoko menshi.

Ikimera gifite amababi maremare y'icyatsi ikimera kikaba gihingwa mu busitani butandukanye kikaba kivamo imiti y'ubwoko bwinshi hari inyobwa ndetse n'isigwa ku ruhuru ikarufasha kwirinda indwara ziterwa n'udukoko tw'amabagiteriya.

Igikoresho cyabugenewe kibikwamo imiti ikorwa mu bimera bitandukanye: harimo nk'imiravumba, imibirizi, imiko hamwe n'ibikakarubamba. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko atandukanye harimo nk'ibiheri byo kuhu, inkorora ndetse n'ibicurane.

Urubuga rwashyizweho kuri murandasi, hakoreshejwe ikoranabuhanga rya telefone, aho umuntu ufite umuti gakondo akora akoresheje ibimera bitandukanye, awandikisha kugira ngo utaziganwa n'undi, cyangwa se ugakoreshwa nabi.

Abaturage bahinga ibimera bitandukanye bivamo imiti, ibi bimera bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye aho bifatwa bigasekurwa umushungi wabyo, ukifashishwa mu gukora imiti yifashishwa mu kuvura indwara z'amoko menshi.

Forusevare soribo akaba ari imiti ikorwa hakoreshejwe ibimera bitandukanye, akaba ari imiti ikungahaye ku ntungamubiri ndetse n'imyunyungugu ikenerwa mu mubiri mu kuvura indwara ziba zatewe n'ibura ry'imyunyugugu.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bihinzwe mu busitani bugari, aho ubu busitani buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, hakaba harimo ibicuncu, imiravumba, imibirizi, imyenya ndetse na tangawizi.

Tungurusumu zizwi mu ndimi z'amahanga nka garice aho zifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nko kuvura umubyibuho ukabije, izi kandi zikaba zifashishwa mu kwica udukoko tuboneka mu mubiri mo imbere.

Imiti itandukanye irimo udukarito dutandukanye aho iyi miti ikorwa hakoreshejwe ibimera by'ubwoko butandukanye ikaba ikungahaye ku myunyu ngugu ndetse n'amavitaminini afasha umubiri kugira ubuzima bwiza bwi'irinda ndwara.

Amavuta y'ubwoko butandukanye harimo nka aluwe berageri hamwe na aluwe beranekita, akaba ari amavuta akorwa hakoreshejwe ibimera by'ubwoko butandukanye harimo nk'igikakabamba. Aya mavuta akaba ateretse iruhande rw'imiti ku meza, ikaba yifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi, kikaba kirandaranda, kikaba giteye mu busitani, aho iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti gakondo y'ubwoko butandukanye yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, iki kimera kikaba gifatwa kigasekurwa mu isekuru aho umucugi wacyo wifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi.

Ibimera by'amoko atandukanye aho harimo ibifaranindi, imigombe ndetse n'imiravumba yifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya kinyarwanda aho iyi miti isekurwa cyangwa se ikanikwa igakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya forever aloe vera gel, akaba ari amavuta akozwe mu gikakarubamba, kikaba ari ikimera kifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, aho afasha uruhu guhora ruhehereye, akarurinda gukanyarara ndetse akarufasha kururinda indwara zitandukanye zifata uruhu.

Igiti gitewe mu busitani buhingwamo ibihingwa bivamo imiti gakondo kikaba gifite amababi y'icyatsi, iki giti kikaba kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo ibiheri, ibihushi ndetse n'amahumane, iki giti kikaba kivurishwa n'abaganga ba gakondo.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti, ibimera bikaba bihingwa mu busitani bikaba bigizwe n'ibikakarubamba, imiravumba, ndetse n'imibirizi yifashishwa mu gukora imiti y'amako andukanye ya kinyarwanda yifashishwa kuvura indwara nyinshi.

Ikimera giteye mu busitani aho gikikijwe n'ibindi bimera byifashishwa mu gukora imiti y'amoko atandukanye, aho ibi bimera bifatwa bigasekurwa bigakamurwa; umutobe wabyo ugashyirwa mu bikoresho byabugenewe ugakoreshwa mu buryo bwo kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera gifite amababi maremare y'icyatsi gihinze mu busitani. Iki kimera kikaba ari igifaranindi, kimwe mu bimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Iki kimera kikaba gisekurwa umutobe wacyo ugakamurwa, ukifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane.

Ifu y’ibimera bitandukanye bivamo imiti gakondo, ibi bimera bikaba bifatwa bikanikwa, ubundi bigasekurwa iyi fu yabyo ivuyemo ikifashishwa mu kuvura indwara zirimo inkorora, ibicurane ndetse n’izindi ndwara. Ibi bimera bikaba bihingwa mu busitani buhingwamo ibindi bimera byinshi byifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Icyapa kigaragaza imiti gakondo ikorwa mu bimera bitandukanye birimo n'icyayi, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye harimo inkorora, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibicurane.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi k'amaboko magufi, akaba afashe ikimera mu ntoki, iki kimera akabakifashije mu gukora imiti itandukanye, aho agifata akagisekura agakamura umutobe wacyo, ukifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, uyu mugabo akaba ari umuvuzi gakondo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibimera biri ku meza hamwe, n'agasekuru kabugenewe; kifashishwa mu gusekura izi mbuto ndetse n'ibi bimera mu gukora imiti gakondo hifashishijwe imbuto n'ibimera, imiti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Olevar akaba ari amavuta ari mu gacupa keza k'umweru akaba akorwa mu bimera bitandukanye harimo nk'igikarubamo, aya mavuta akaba akoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye z'uruhu harimo nk'ibiheri ndetse n'ibishishi, ayo mavuta akaba akorwa n'inzobere mu by'imiti.

Umuganga uhagaze mu ivuriro rikoresha imiti gakondo, ikaba iri mu ducupa dutandukanye, ipanze mu tuyetajeri twiza twabugenewe, uyu muganga akaba avuga ko avura indwara z'ubwoko bwose, akoresheje imiti iva mu bimera.

Ibimera by'ubwoko butandukanye bihingwa mu busitani buhingwamo ibimera bivamo imiti byanditswe n'amazina yabyo, aho bifasha abakora umwuga wo kuvura bakoresheje ibimera kumenya ubwoko bw'imiti butandukanye bubafasha kuvura indwara nyinshi z'amoko atandukanye.

Ibimera by'ubwoko butandukanye harimo ibikakarubamba, imiravumba ndetse n'imibirizi, hamwe n'imbuto z'indimu zifashishwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, aho ibi bimera ndetse n'izi mbuto bifatwa bigasekurwa bigakamurwa umutobe wabyo ugakoreshwa mu kuvura inkorora ndetse n'ibicurane.

Ikimera cy'igifaranindi kikaba gifite amababi y’icyatsi kikaba kirandaranda giteye mu busitani buhingwamo ibimera bivamo imiti iki kimera kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho gifatwa kigasekurwa umutobe wacyo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nk'ibicurane ndetse n'indwara…

Agakoresho kabugenewe kameze nk'isekuru gafashwe n'ibiganza by'umuvuzi urimo gukora imiti iva mu bimera, iyi miti ikaba ari ingenzi cyane kuko ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti gakondo ikorwa mu bimera bitandukanye ipanze mutu etageri twiza twabugenewe dusizwe amabara y'ubururu, aho hahagazemo umuganga wambaye itaburiya y'umweru y'amaboko magufi urimo kuvura umurwayi akoresheje iyi miti iva mu bimera.

Ikimera cy'amutuku giteye mu busitani, ikimera kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho gifatwa kigasekurwa bityo umutobe wacyo ugakamurwa ukifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nk'ibicurane ndetse n'inkorora. Aho gikoreshwa n'abaganga bakoresha imiti ya gakondo.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kirandaranda kikaba giteye mu busitani bwiza buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye, ariko ikimera gifatwa kigasekurwa umushonge wacyo ugakamurwa ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya arowe y'ubwoko butandukanye aho yari ari mu icupa ry'umuhondo ndetse n'ari mu macupa y'umweruru, akaba ari amavuta akorwa mu gikaka ubamba akaba ari ikimera gihingwa mu busitani butandukanye. Iki kimera kikaba cyifashishwa mu gukora aya mavuta arinda uruhu, ndetse akaruvura indwara zitandukanye.

Ikimera gifite uturabyo twa shokora hamwe n'amababi y'icyatsi giteye mu busitani, iki kimera kikaba gikoreshwa mu gukora imiti y'ubwoko butandukanye aho gifatwa kigasekurwa kigakamurwa umutobe wacyo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cy'umuravumba giteye mu busitani, kikaba cyifashishwa mu gukora mu miti y'amoko atandukanye, aho iki kimera gifatwa kigasekurwa, umutobe wacyo ugakoreshwa mu kuvura ibicurane ndetse n'inkorora.

Umugore ukenyere igitenge akaba arimo gusoroma ibibabi by'ikimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya gakondo, aho iki kimera gifite uturarabyo ndetse n'amababi y'icyatsi kikaba gifasha mu kuvura indwara zirimo ibicurane ndetse n'inkorora.

Amavuta ya arowe bodi wushe, akaba yifashishwa mu gusukura uruhu, aho arufasha kuruvura indwara zitandukanye zifata uruhu, ndetse no kurufasha gutoha, aya mavuta akaba akorwarwa, hifashishijwe ibimera bitandukanye harimo igikakarubamba.

Ikimera cyihariye cyifashishwa mu gukora imiti itandukanye kikaba gihinzwe mu busitani, burimo ibindi bimera byifashishwa mu gukora imiti. Ikimera kikaba gifatwa kigasoromwa, kigasekurwa bityo umutobe wacyo ugakoreshwa mu kuvura indwara z'amoko menshi.

Umuvuzi gakondo urimo gukora imiti, akoresheje ibyatsi bitandukanye by'ibimera bihingwa mu busitani buhingwamo imiti gakondo, aho ayifata akayanika ubundi akayisya, ivu ryayo akayikoresha mu kuvura indwara zitandukanye.

Foreva burayiti tufujeri akaba ari umuti mwiza w'amenyo, ukorwa mu bimera bitandukanye harimo igikakarubamba, uyu muti ukaba wifashishwa mu gukura imyanda mu kanwa ndetse no gufasha amenyo kuyarinda indwara.

Ikimera cy'umuravumba, kikaba ari ikimera gifite amababi y'icyatsi, kikaba cyera mu busitani buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo, iki kimera kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane.

Amavuta y'abana ya foreva akaba akorwa mu gikakaruwamba ndetse n'urubuto rwa avoka, aya mavuta akaba arufasha kugira ubuzima bwiza aho arufasha guhehera ndetse no kwirinda indwara zitandukanye zifata uruhu.

Forevarine akaba ari amavuta meza ari mu gacupa keza gafunze neza ateretse ku meza, akaba akorwa mu bimera bitandukanye harimo nk'igikakarubamba, ayo mavuta akaba akoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu nyinshi zitandukanye harimo nk'ibiheri ndetse n'ibishishi, aya mavuta akaba akorwa mu bimera byiza.

Umugabo uhagaze mu busitani buhinzwemo ibimera by'ubwoko butandukanye bukorwamo imiti gakondo ibi bimera bikaba bifatwa bigasekurwa bikavangwa hakavamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

umuti uri mu gasashe gadafite ibara ry'umuhondo akaba ari miti ikorwa hakoreshejwe ibimera by'ubwoko butandukanye bihingwa mu busitani buri mu gihugu mu Rwanda iyi miti ikaba yifashishwa n'inzobere mu by'ubuzima hifashishijwe imiti gakondo.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, harimo nk'ibyitwa arowe, romani, levande, na bazili, akaba ari ibimera bihingwa mu busitani. aho bifatwa bigasekurwa, umutobe wabyo ugakamurwa ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Amavuta ya aloe vera gel hamwe n'amasura y'abantu bafite indwara z'uruhu zitandukanye iki cyapa kikaba cyamamaza ubwiza bw'ayo mavuta n'indwara zitandukanye yavuye, aya mavuta ya aloe vera gelly akaba akorwa mu gikakarubamba akaba ari ikimera gihingwa mu busitani buhingwamo ibyatsi bivamo imiti.

Ibimera bitandukanye biri mu gikoresho cyabugenewe cy'icyuma kikaba cyifashishwa mu gusekura ibyatsi bivamo imiti ndetse n'uducupa turimo imiti imwe n'imwe iva mu byatsi hamwe n'ibinini biva mu bimera biri ku meza kutuyiko twabugenewe iyi miti ikava yose iva mu bikomoka ku buhinzi n'ibimera iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, ukaba witwa Foreva tusi jeri, ukaba wifashishwa mu koza amenyo no gukura imyanda mu kanwa, bigafasha kurinda indwara zitandukanye zifasha mu kanwa.

Icyapa cy'umuti wa fibroide natural treatment kikaba kiriho umukobwa wambaye agapira k'umukara k'amaboko maremare urimo kuribwa. Bakaba bagaragaza ko uyu muti ukorwa mu bimera, wifashishwa n'abadamu mu ndwara zitandukanye zabo za buri munsi.

Ikimera cy'umuravumba giteye mu busitani buhingwamo ibimera bibiri bikoreshwa mu gukora imiti gakondo itandukanye, iki kimera cy'umuravumba kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara z'inkorora ndetse n'ibicurane, aho gifatwa kigasekurwa umutobe wacyo ugakamurwa ugakorwarwamo umuti.

Amavuta ya Forever Garlic, akaba ari amavuta akorwa mu bimera bitandukanye ndetse n'imbuto z'ibihingwa zitandukanye, harimo nka tungurusumu ndetse n'ibikakarubamba, aya mavuta akaba yifashishwa nk'umuti gakondo, aho atunganywa bivuye muri ibyo bimera agashyirwa mu ducupa twiza tw'umweru, agakoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye.

Alowe Vera jeri, akaba ari amavuta akorwa mu bimera gakondo biterwa mu busitani butandukanye, harimo n'ibikakarubamba, aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, ndetse akaba afasha n'uruhu guhora rutoshye kuko aba yarurinze indwara zirwataka.

Ikimera kirandaranze gifite amababi y'icyatsi, kikaba giteye mu busitani bukikijwe n'igikuta cyubakishijwe ibiti, ubusitani bukaba buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti, aho iki kimera gifatwa kigasekurwa, kigakamurwa, umutobe wacyo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo ibicurane ndetse n'inkorora.

Agasekuru kabigenewe gasekurirwamo imiti ya kinyarwanda iva mu bimera, aho iyi imiti isoromwa mu ubusitani buhingwamo ibimera bivamo imiti, igakamurwa, umushungi wabyo ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Start your journey park aho barimo kwamamaza amavuta meza ava mu bimera bitandukanye, harimo n'igikakarubamba ndetse n'umugombe, aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no kurinda uruhu.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kirandaranda kikaba giteye mu busitani bwiza buterwamo ibimera bitandukanye bivamo imiti, ibimera bikaba bifatwa bigasekurwa, umutobe wabyo ugakamurwa ugakoramo imiti ivura indwara zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Imiti ya kinyarwanda yakozwe ivuye mu bimera bitandukanye bivamo imiti igasekurwa, igakamurwa, igashyirirwa mu macupa afasha abayigura kuyibona mu buryo bworoshye. Iyi miti ikaba ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti iva mu bimera bitandukanye iteretse mu macupa meza yabugenewe ikaba ipanze mu tu etajeri twiza dukozwe mu biti, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ikaba ikoreshwa n'abavuzi gakondo bakoresha imiti y'ibyatsi.

Ikimera cy'umubirizi giteye mu busitani buhingwamo ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti y'amoko menshi, iki kimera kikaba gisekurwa kigakamurwa, umutobe wacyo ugashyirwa mu bikoresho byabugenewe ugakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane.

Amavuta ya foreva bini poleni akaba ari amavuta akorwa mu bimera bitandukanye harimo nk'igiikakarubamba kivangwa n'ubuki. Aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu ndetse no kururinda kurwaragurika bikarufasha guhora rukeye.

Amavuta ya Aloe Vera Jerry, akaba ari amavuta akorwa mu gikakarubamba, aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, aya mavuta kandi akaba ari meza ku ruhu kuko atuma ruhora ruhehereye, uyakoresha akagaragara neza.

Imiti y'ubwoko butandukanye iva mu bimera, ikaba yifashishwa n'inzobere z'abaganga mu bya gakondo, aho bakoresha imiti gakondo mu kuvura ubwoko bw'indwara zitandukanye harimo amahumane, ibiheri, inkorora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kikaba giteye mu busitani buhingwamo ibimera byifashishwa mu gukora imiti y'amoko atandukanye, aho iki kimera gisekurwa umutobe wacyo ugakamurwa ukabikwa mu ibikoresho byabugenewe, ukavura indwara zitandukanye.

Ikimera kizwi nka cyumya, gifite amababi y'icyatsi n'uturabo tw'umweru, iki kimera kikaba kigaragara mu mirima itandukanye ndetse no mu mashyamba, kikaba gihingwa kandi mu busitani bwagenewe guhingwamo ibimera bivamo imiti, kikaba kifashishwa mu kuvura ibisebe.

Foreva bi Poroporisi, akaba ari amavuta meza, akorwa mu gikakarubamba ndetse n'ubuki, akaba afasha kurinda indwara uruhu, ndetse no kuruvura indwara zitandukanye zifata uruhu, aya mavuta kandi akaba afasha uruhu guhora rutoshye.

Amavuta ari mu ducupa twiza tw'umweru dufunze neza ndetse n'utundi tw'ubwoko butandukanye, hamwe n'indi miti iva mu bimera bitandukanye harimo nk'imiravumba, imibirizi, ibikakarubamba, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye ariko ikaba ikorwa ikuwe mu bimera.

Imiti iri mu twamverope twiza tw'icyatsi, ikaba ari imiti ikorwa n'uruganda rwa Ariyanse Gurobo. Iyi miti ikaba ikorwa iturutse mu bimera bitandukanye, harimo nk'imiravumba ndetse n'imibirizi, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ikaba irimo imyunyungugu myinshi ikenerwa n'abantu, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.